Agatabo ko muri resitora gasanzwe kazwi ku izina rya menu karerekana ilisiti y'ibiryo bitandukanye resitora iteka kandi amazina yabyo ndetse n'igiciro cyabyo hasi y'ako gatabo handitse ati bonapeti.

Abantu bari muri resitora cyangwa se akabari hari amatara atanga umucyo muke ibikoresho biri kumeza hamwe n'amatereviziyo manini agaragaraho amashusho ari hejuru, bigaragara ko aha hantu ari nk'ahantu ho kuruhukira cyangwa se gusohokera cyangwa ahantu ho kujya kurebera imikino nko mukabari cyangwa resitora.

Icyapa kinini gishinze kiri mumabara abiri y'umutuku n'umweru ndetse kikaba kiri kwamamaza inzoga yitwa amusiteri biya kuri icyo cyapa hariho icupa rinini ry'icyatsi ndetse n'ikirahure kiri iruhande rwacyo cyuzuyemo inzoga ndetse icyo cyapa hejuru yaho cyanditseho ngo posa lonje kigali izi girilenti jowu.

Ahantu hagaragara nk'ahari muri resitora, hagizwe n'intebe zitatse ndetse n'ameza atatsweho ibitambaro, ndetse n'igisenge kigizwe n'ibiti, n'amatara agarura urumuri afite ari mu ibara rya zahabu, hari umuntu uhagaze wamabye imyenda y'imikara gusa ntagaragara neza mu maso afite terefone arimo arayirebamo.

Aha ni ku kabari. Uhabwirwa neza n'icyapa gihari kinini cyanditseho amagambo arambuye manini, cyerekana na serivisi koko ako kabari gatanga. Biragaragara y'uko imbere y'ako kabari mu muryango hari abantu babiri barimo baraganirira imbere y'ako kabari.

Ku meza yo mukabari hari amacupa atandukanye y'izoga n'ibirahure hari icupa ribonerana rya vodoka rigaragara neza riri ku gitambaro gitukura, inyuma hari etajeri zirimo amacupa menshi hamwe n'ibirahure ibumoso hari mudasobwa ndetse n'urumuri rudakabije.

Hari icyapa kinini gishinze kiri mu ibara ry'umutuku kiriho icupa rinini ry'icyatsi ririmo bya byeri kandi iryo cupa rikaba ryanditseho sikoro marite. Iki cyapa kiri ku muhanda ahari kaburimbo ndetse na pave hirya hari ibiti ndetse n'abantu batagaragara neza.

Aha ni mukabari, ahagaragara ibyapa bibiri bitandukanye, cyimwe cy'umuhondo nikindi cy'umutuku bigaragaza amahitamo y'okwishyura hakoreshejwe terefone, harimo momopeyi na eyateri mani. Ku meza hari amacupa atandukanye y'ibyo kunywa kandi inyuma hari umuntu uhagaze inyuma y'imeza isura ye ntigaragara neza.

Aha ni ahantu hameze nko mu kabyiniro ni ahantu hagaragazwa n'amatara y'uruvange, amatara y'umutuku, ubururu, icyatsi ndetse n'ameza menshi n'ibikoresho byinshi n'ibitako byinshi n'ibintu byinshi birimo inzoga ku meza haragaragara ikintu kitagaragara neza gusa haragaragara ikirahuri k'igarasi irimo ibintu by'umweru.

Abantu babiri basa nk'abari gukomanyaho ibikombe by'ibirahuri byose birimo ibyo kunywa ndetse bicaye ku meza ameza ariho agasahani kariho indimu ndetse n'igitabo cya meniyu ndetse n'ututambaro dutatse ameza hirya hari izindi meza n'izindi ntebe ndetse n'ibigarurarumuri hirya biri mu ntera y'iyi foto.

Aha ni ahantu h'ubucuruzi hakozwe ku buryo bugezweho hakagira inkuta z'amatafari atagaragara neza hamwe n'amafirigo yateganyijwe gukonjesha ibinyobwa, hari ibikoresho by'ikoranabuhanga ku meza y'akazi, naho ku ruhande hari urugi rufite ibara ry'ubururu inyubako ifite igisenge gifunguye ku buryo bworohera urumuri kwinjira.

Aha ni mu kabari ahagaragara ibikombe biri, by'ibirahure biri mu bwoko bw'igarasi, gusa bibonerana kandi birimo ibyo kunywa, ndetse n'amacupa maremare asa icyatsi kandi arimo ibyo kunywa, ndetse kuri iyo meza haragaragara ibindi bintu nk'ibi papuro, imitako ndetse n'agapfunyika k'amasigara.

Iki ni icyapagurisha cyamamaza ikinyobwa cya jinisoni bafu bareya handitseho amagambo agira ati"tesite bayi faya fo riri simufu tesite" bivuze ko gifite uburyohe bwihariye hariho kandi ubutumwa bw'uko kunywa inzoga nyinshi bigira ingaruka mbi ku buzima kandi ko zitagurishwa abatararageza ku myaka cumi n'umunani. Iki kinyobwa kiri ku murongo w'ibirahuri byuzuye byereka uburyo bwo kukinywa.

Icyapa cyinini kigizwe n'amabara abiri y'umutuku n'umweru ndetse n'amagambo y'umweru manini yandikishijwe muri icyo cyapa agira ati atirasite restorareti andi bare she ati rifani n'icyapa kiriho icupa rya byeri ry'icyatsi n'ikirahuri cyuzuyemo inzoga bigaragara neza ku ifoto hasi y'icyo cyapa hari amaduka, hari iduka ry'imyenda ndetse no ku kabari hagazeho umukobwa n'imodoka y'umweru imbere yaho.

Ikiganza cy'umuntu usa nk'uri gufungura agatabo ku meza ndetse ayo meza agaragaraho ibirahure bitandukanye ariko byose biri mu bwoko bw'igarase ni bya birahure binywebwamo ndetse haragaragara n'ibindi bikoresho byo ku meza nk'amakanye cyangwa se ibiyiko.

Ahantu hemeze nk'ahantu ho gusohokera haragaragara umuntu wicaye ku meza ndetse yarambitseho isakoshi y'umukara, hejuru hari amatara agarura urumuri ariko urumuri rukeya ndetse hari ameza manini ameze nka kontwari ndetse n'abantu barimo imbere.

Soma cyangwa sikana kiwara kode ubashe kujya ureba menu niyomagambo agaragara kuri iki gipapuro cy'umukara kigizwe n'iyi kode. Ni kode ishobora kuba ari iy'ahantu hahabwa serivise nko muri resitora cyangwa muri bare aho menu ishobora kurebwa mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ahantu hagaragara nk'aho ari mu kabari cyangwa se muri resitora, hagizwe n'intebe z'imbaho ndetse n'ameza y'imbaho, izo ntebe ziriho imisego y'icyatsi ndetse ishushanyijeho inyenyeri itukura n'ikimenyetso cya heineken. Ku meza ari imbere hagaragaraho igarasi yuzuyemo byeri ndetse n'amarineti y'umukara. Hirya hara abantu babiri bicaye imbere ndetse n'umukozi urimo arabakira.

Abantu babiri ariko batagaragara neza umwe aragaragara urutugu rumwe rw'iburyo ndetse n'akaboko kiwe undi aragaragara nk'urimo urahanagura cyangwe se ufungura icupa, imbere yabo baragaragara ko bari kuri kontwari cyangwa se ameza yo mu kabari ndetse hari akabati kari imbere yabo kabitse inzoga nyinshi gusa ni mu mwijima ntago haboneka neza.

Aha ni hantu ho kwicara, hafunguye nka resitora cyangwa se bare, hari ameza n'intebe bikozwe mu biti, zimwe mu ntebe zifite ibitambaro by'icyatsi, bitwikiriye. Kimwe muri ibyo bitambaro cyanditseho ikirango cy'inyenyeri itukura, n'amagambo "Igihumbi kimwe, magana inani, mirongo itatu na gatandatu". Hari ikirahuri gifunguye cy'inzoga iri kumeza, kuko ntikigaragara, no hakurya umuntu utagaragara, wicaye, asa nk'aho ari gusangira n'undi muntu.

Aha hantu ni mu kabari bitewe n'ibihagaragara, hari ibigarurarumuri bibiri kandi binini bitatse biri hejuru ndetse no hirya hari abantu benshi bicaye hirya no hino gusa urabona icupa riri mu bwoko bwa byeri ry'icyatsi ndetse n'ikirahure gicagasemo inzoga ndetse no hirya yaho hari isakoshi igaragara yuko hari umuntu wicaye ku ruhande utagaragara uri aho ngaho wahasohokeye.

Umuntu warambitse ibiganza ku meza, ikiganza kimwe cy'ibumoso gisa nk'ikiri kwegura agatabo, ku meza hari ibikombe by'umucyo biri mu bwoko bw'igalasi, ibikoresho byo ku meza hamwe n'ibindi by'amasuku. Ahahantu hagaragara nk'ahantu ho mu kabari cyangwa se muri resitora.

Aha hantu hagaragara nk'akabari ndetse hari ameza inyuma y'ayo meza haragaramo akabati kari inyuma kegetse ku gikuta karimo ibinyobwa byinshi kandi bipanze kumurongo kandi bitandukanye hagati hagaragaramo firigo y'umutuku ifite ikirahure ndetse hejuru yayo hari televiziyo nayo ishinze mu rukuta.

Ahantu hari igikuta kinini gishushanyijweho n'amabara abiri kigizwe n'amagambo ashushanyijweho n'ibara ry'umutuku ndetse no mu magambo manini agira ati,"SCOL". Hirya yaho hashushanyije ikarita ya Afurika, n'andi magambo atagaragara neza.

Menu ya green loange irimo amahitamo y'ifunguro rya mu gitondo, nka " continental english " ni ifunguro rya mu mugitondo ryihariye rya green loange. mubyo gutangira bikonje harimo " fresh gaden sala ", "togs signature" hamwe nibindi. Iyi ni menu igaragaza ibiribwa byose bakora hariya, ndetse n'ibiciro byabyo kuruhande.

Inzu igaragaza igisenge, gusa hejuru y'icyo gisenge hari icyapa kinini cyane, kiri mabara abiri; amabara y'umweru n'umutuku, ndetse n'ikirango cya amusiteri biya. Ndetse n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, uti "Bahamasi pabu". Hejuru hagaragara igicu. Hasi hagaragara nk'imiryango imiryango ibiri ifunguye.

Ku kibaho cyanditseho amagambo haragaragaho itangazo ry'ibiciro n'ibicuruzwa byabanywa mu masaha y'ihuriro anzwi nka hapi awa buri munsi w'icyumweru, hari ibidasanzwe bitangwa n'ibinyobwa bya buri munsi ku giciro gito nk'inzoga, kokiteri na wisiki. Ibi biciro bihesha abakiriya amahirwe yo kuzigama no kwishimira ibinyobwa bihendutse.

Aha hagaragara nko mu kabari, ahagaragara neza ni intebe, intebe rya shizweho ikoti ndetse nta muntu uryicayeho gusa inyuma yiyo ntebe hari akabati kagaragara neza k'ibirahuri gatatse amatara ndetse n'inzoga zitandukanye z'inyobwa by'ubwoko butandukanye, hirya no hino hari ibindi bikoresho byinshi bikoreshwa mu kabari

Hagaragara nko mu kabari aho kumezà cyangwa se kuri kotwari hariho ivaze irimo indabo z'umweru n'akarahure karimo divayi itukura, inyuma ya kotwari cyangwa se ameza hari ama etajeri n'amafirigo yuzuyemo ibyo kunywa bitandukanye, aha ni ahantu hagaragara neza nko mu kabari cyangwa se ahantu ho gusohokera.

Aha ni mukabari ahagaragara umupimyi cyangwa se umuvanzi w'inzoga, mu kaboko kiwe k'ibumoso acigatiye icupa ry'ikirahuri rigaragara ndetse no mu kaboko kiwe k'iburyo afashe igikombe k'icyuma arimo arasuka ikinyobwa mu gikombe kinini na cyo k'icyuma bigaragara ko yaramaze kuvanga inzoga.

Ahantu hameze neza nk'aho ari muri resitora cyangwa se mu kabari haragaragara intebe zitandukanye zigiye ziteye hirya no hino muri ako kabari, hasi muri ako kabari hagaragara itapi y'mweru n'umukara ndetse hafite igisenge cy'umweru hagati gifite ikizeru cy'umutuku hirya ku kibambasi hari televiziyo.

Abantu babiri bicaye kumeza buri umwe asa nkufashe terefone, kumezaeza hari icupa rya gorira jini n'ibindi bikombe n'ibindi bikombe nk'amagarase, cyangwa se andi macupa, gusa inyuma hari urutonde cyangwa se ibintu byanditseho amagambo, ariko ntabasha gusomekaka neza, aho hantu hasa nk'ahantu h'imbere hitaruye hashobora kuba hari akabari cyangwa resitora.

Agace k'akabari kacaniriye neza karimo amatara y'amabara meza, n'amacupa atandukanye hejuru y'akabati hariho ekara nini cyangwa se ingarurarumuri nka tereviziyo nini yerekana umukino w'imikino, bishoboka ko ari umupira w'amaguru, akabari karimo akabati k'ibirahuri gafite amacupa menshi, na firigo irimo ibinyobwa ku ruhande rw'ibumoso.

Igikari kigaragara nk'aho ari icy'akabari gusa gifunguye uruhande rumwe hejuru yacyo hari icyapa cyanditseho pulani bi biti bari andi resto kiragaragaza amacupa abiri rimwe rifunguye ayo macupa ari bwoko bwa sikolo kandi afite ibara ry'icyatsi gusa igikuta kirasa umweru n'umuhondo handitseho sikolo.

Uburyo Rwanda revenu yashyizeho bwo kuba wamenyekanisha umusoro ndetse ukaba wanakwishyura amatariki ntarengwa atarinze kugufata, ibyo byose ukaba wabyikorera na telefone yawe cyangwa mudasobwa.

Ahantu hameze neza nko mukabari haragaragara igikuta cy'amatafari ahiye ndetse mw'imbere haragaragara intebe zipanze neza ndetse n'ameza cyangwa se kontwari iri hakurya ifite akabati gapanzeho inzoga ndetse na firigo iriho icyapa cya skol

Imeza nziza yo kuriraho isa umukara muri resitora igezweho igaragaraho ifunguro rigizwe n'ifiriti n'inyama biri ku isahani y'umukara, ibirahuri bibiri birimo divayi itukura, hamwe n'ibindi bikoresho byo kuriraraho.

Amacupa atatu ateretse hamwe ku meza ari mu bwoko bumwe bwa byeri, kandi akaba afite n'ubwoko bumwe bw'icyatsi, gusa buri cupa rifite ikirango cyaryo kiriranga hari umuntu uhagaze inyuma y'ayo macupa ariko ntabwo agaragara neza mu buryo burambuye.

Ahantu hasa neza cyane hasa nk'ahantu ho gusohokera hari ameza cyangwa se kontwari ndetse n'intebe zipanze neza ku murongo inyuma y'ameza hari amatara asa neza agaragara ndetse n'imitako itatse ku bibaho biri inyuma bifashe mu gikuta.

intoki ebyiri zicigatiye ikiganza cya pi o esi ni imashini ikoreshwa mu bucuruzi mu kwishyura serivisi cyangwa se mu kwishyura ibicuruzwa ikindi ikiganza gicigatiye ikarita y'ubururu yanditseho visa iyo karita ni ikarita nayo ikoreshwa mu kwishyuza, kwishyura serivisi cyangwa se mu kwishyura ibicuruzwa umuntu aba yaguze.

Umuntu wambaye imyenda irimo ibara ry'umweru izwi nk'iiyo mu gikoni cyo muri resitora cyangwa se mu kabari, ahagaze afite telefone ngendanwa arebesha mu kiyo. Inyuma yiwe hari ameza arambitseho igitabo cyangwa se urupapuro rw'umweru. Hirya ye hari intera, mu ntera hari akabati gashyizwe mu kirahuri, ariko gatunganyijeho amacupa y'ubwoko butandukanye bw'inzoga.

Utu ni utuzu tw'abajenti ba emutiyeni ndetse dukikijwe n'ibyapa bya eyeteri na bakiriya babagannye bari kubaha serivise zitandukanye.

Aha ni ku muhanda, umuhanda ugizwe n'amabuye, gusa haragaragara igipangu kinini gifunguye, hejuru y'icyo gipangu hari icyapa kinini kigaragaza amabara abiri, amabara y'umweru n'umutuku, kandi kiramamaza inzoga yitwa amusiteri biya, hejuru hari amabara yandikishije umweru handitse ngo rwansiroje, muri uwo muryango hagati haparitse igare imbere yaho, kandi ku ruhande hari umuntu uhagaze kuri uwo muryango, iruhande rw'umuryango iburyo hari imodoka y'umukara ndetse n'abantu bakomeza, ubona yuko ari ahantu hahita abantu.

Ahantu hagaragara neza cyane ndetse ubona hasa neza hagizwe n'urumuri ndetse n'amatara acanye atandukanye ndetse n'amabara y'umweru n'umukara hasi no ku ruhande ku bikuta ndetse turabona n'intebe y'umutuku igizwe n'icyuma, mu ntera hari umuntu uhagaze gusa ntagaragara neza n'abandi bicaye ku ntebe.

Ahantu hameze nk'aho gusohokera ni nka resitora cyangwa se akabari, hagizwe n'intebe ndetse n'ameza byose bipfutswe n'umwenda w'ibitambaro ndetse n'ibiti bikikije ndetse n'igisenge k'ibiti ndetse n'amatara agaragara ashinze mu bikuta ku mpande n'impande, aho hantu hasa neza bigaragara ko hari umucyo.

Ahantu hameze nko mu kabari hari kurangwa n'abantu benshi ndetse n'intebe, abantu bicaye, imbere yabo hari ikigarurarumuri cyangwa se tereviziyo nini cyane iri kwerekana umukino w'umupira w'amaguru, aho hantu hagizwe n'abantu benshi ndetse basa n'abari gusangira kandi bananywa, bigaragara yuko ari mu kabari.

ahantu hameze nk'akabari kubakiye hanze hari umucyo hagizwe n'ameza yubatse ukuntu ndetse n'intebe ziri uruhande rwazo i mpande zompi iburyo n'ibumoso. imbere yayo meza haragara akabati kabitse cyangwa se gateretsemo inzoga zipanze neza ku muronko z'amoko atandukanye n'umuntu uri hirya uhagaze wambaye ibintu by'umukara.

Aha hantu hateye nko mukabari bitewe nk 'uko hagaragara bitewe n'urumuri rwaho ,urumuri rwijimye urabonako harimo intebe zipanze, n' abantu bari hirya kuri kontwari basa nk'aho barimo baranywa basangira.

Hariho kode isuzumirwa kuri telefoni yerekanwe ku rupapuro cyangwa ikarita. Hejuru ya kode handitseho amagambo agira ati " awa meniyu". Iyo kode ishobora kuba igenewe gusuzumwa kugira ngo ushobore kubona meniyu ya dijitare igaragaza uburyo ikorabuhanga rikoreshwa mu gihe cyo kurya muri iki gihe, mu maresitora cyangwa se mu mabare.

Icyapa cyamamaza ikinyobwa cya SKOL MALT hagati hari icupa rinini ryerekana iki kinyobwa rifite ibara ritangaje kandi izina ry'ikirango ryanditse neza, hepfo hari ubutumwa bwo kwibutsa ko kunywa birenze urugero byangiza ubuzima kandi hari n'ubundi butumwa bwo kwamamaza buhamagarira abantu kumva itandukaniro no kuba itandukaniro kuri iki kinyobwa.

Icupa rya byeri yitwa virunga rifunguye riri hamwe n'ikirahuri nacyo cyuzuyemo byeri biteretse neza ku meza ndetse iyo meza ikaba igizwe n'udutambaro kandi utwo dutambaro akaba aritwo duteretseho iyo nzoga hakurya haragaragara umuntu ufite terefone mu ntoki ariko uwo muntu ntagaragara neza.

Aha ni mukabari, ahagaragara imbaho bigizwe n'ibyuma ndetse nameza manini twakwita nka kontwari ariho igishushanyo, igishushanyo cy'icyatsi cyandikishijwemo amabara y'umweru y'ahenikeni ndetse n'inyenyeri, hirya ya kontwari hamanitse inzoga ziri mu bwoko bwinshi butandukanye.

Iyi ni meniyu y'ibinyobwa ya biti beveleji yerekana ibinyobwa bitandukanye ku giciro cyabo, amakategori yose arimo guhera ku ikawa, icyayi, ibinyobwa sofuti dirinkisi, inzoga n'ibindi byinshi, biri ku giciro cyo ku rugero guhera ku cyatanu kugeza ku bihumbi bine iyi menuyu kandi ituruka muri Kigali sentiri pake rezidensi.

Umuntu usa n'uri mu kabari muri kontwari, imbere y'iwe hari igitambaro cy'umutuku cyandikishijweho amagambo y'umweru ndetse n'amacupa atandukanye ari iruhande rw'iwe. Iruhande rwe rw'iburyo hari akabati kagaragara k'ibirahure, karimo inzoga zitatse kandi zitandukanye, n'bikombe cyangwa se ibirahure biri hirya hakurya. Umugabo we asa nk'uri gusuka ikintu, gusa kitagaragara neza.

Ahantu hagaragara nko mu kabari gatatse neza cyane, kameze neza kandi gasa neza, kagizwe n'intebe z'umweru ndetse ziri ku meza y'umweru cyangwa se kontwari, inyuma yaho hari ameza ariho cyangwa atatseho amacupa menshi cyane y'ubwoko bwinshi bw'ibinyobwa ndetse hari n'utubati tugiye tumanitse ku bikuta. Hejuru y'izo ntebe hari amatara amanuye arimo ibara ry'umukara.

Aha ni mU iduka ritoya ricuruza amata ndetse n'ibiyakomokaho by'uruganda rwa Nyanza .Hariho uburyo bwo kwishyura igihe umuntu aguze amata Kandi adafite amafaranga mu ntoki.

Itsinda ry'abantu bari gusangira amafunguro muri resitora, ku meza hari ibyo kurya n'ibinyobwa byinshi kandi umukozi wa resitora ari kubitaho abaha serivise. Hirya haragaragara andi meza ndetse n'abandi bantu ndetse n'urumuri rukeya muri iyo resitora.

Akabari kigaragaza, kagaragaza kontwari cyangwa ameza, ameza ya kontwari y'umweru ndetse inyuma yayo meza haragaragara akandi kabati, gatonzeho amacupa y'inzoga atandukanye kandi ario ubwoko bwinshi. hejuru yayo macupa haragaragara ijambo henikeni ndetse n'inyenyeri ishushanyije mwibara ry'umutuku.

Aha ni ahantu haboneka ameza y'akabari cyangwa ahantu abantu banywera, hari utubati dushyitswe ku rukuta turimo inzoga zitandukanye n'amacupa ku meza, hari ibikoresho byifashishwa mu kazi, ka kabari harimo ibikoresho byo kwandika no kwakira amafaranga, ibyuma biboneka ku rukuta n'ibikoresho byo kubika inzoga neza. Aha hantu harasukuye kandi hateguye neza

Ahantu hameze nk'ahasohokera abantu hazwi nko ku izina ry'akabari, kuri kontwari yo hasi ku meza hari abantu bahicaye ndetse imbere muri kontwari harimo umuhungu wambaye ipantaro y'iroza n'inkweto z'umukara n'ishati y'umweru, asa nk'aho arimo aravugisha abo bantu bamuri imbere.

Abantu batatu, bifotoreje ku meza yo mu kabari cyangwa se kontwari, basa nkaho ari abakozi b'aho hantu, inyuma yaho hagaragara akabati gateye mu gikuta ndetse gapanze ho inzoga z'ubwoko bwinshi buri ku murongo, amatara agaragara ahongaho ni amatara y'icyatsi.

Urugi ruri mu ibara ry'umweru rufunguye uruhande rumwe rw'ibumoso hejuru y'urwo rugi hagaragara icyapa kinini gitambitse cyanditseho kiti "plan b bt bar and resto" mu mabara y'umutuku ndetse ku rundi ruhande hagaragaraho amacupa abiri rimwe rifunguye ndetse ayo macupa ari mu bwoko bw'icyatsi yanditseho skol malt n'igikuta cy'umuhondo n'umweru cyanditseho skol.

Inzu igizwe n'amatafari ahiye mo imbere haragaramo intebe zipanze ndetse n'ameza n'ameza hagati yazo, kandi hagaragara umuryango ufunguye, umuryango hirya y'umuhanda, turahabona kaburimbo ndetse n'ibimera biri hakurya.

Umuntu bigaragara ko ari kwambuka umuhanda ari kwambuka ahantu hasa nk'ahashinze icyapa, icyapa kiriho icupa riri mu bwoko bwa byeri, ryanditseho mitsingi risa icyatsi, imbere yaryo hari umutaka w'umuhondo ufite ibirango bya mtn, ndetse no mu ntera yiwe hari andi mazu n'ikindi cyapa cyanditse keti pulaza.

Ahantu hameze nko mu kabari hagizwe n'ameza y'ibiti ndetse n'intebe z'ibiti, inyuma y'imeza hari umuntu usa nk'uwubitse umutwe cyangwa se usa nkuri kureba ibirimo imbere, hirya yiwe hari amafirigo abiri imwe y'ubururu n'indi y'umutuku zigaragara ndetse zirimo ibinyobwa ariko bitagaragara neza.

Mu kabari kagaragaramo amakaziye abika inzoga cyangwa se ibinyobwa, ndetse n'intebe zipanze za purasitike ndetse inyuma y'iyo makaziye haragaraga akabati k'umukara gapanzemo amacupa atanduakanye kandi y'ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Icyapa kinini gihagaze, kigizwe n'ibara ry'umutuku wijimye, kiriho icupa rinini cyane riri mu bwoko bwa byeri, ryanditseho mitsingi. Hejuru handitseho izina "endi fuziyo". Ku ruhande hari umutaka w'umuhondo ndetse n'umuntu uri imbere, ariko urimo urareba ibumoso. Inyuma y'icyapa hari amamodoka agaragara neza n'amazu, n'amazi mu ntera.

Ahantu hagaragara nkaho ari mu kabari hagizwe cyangwa se hatatswe neza, hagizwe n'intebe nyinshi cyane ziri imbere y'ameza manini, imbere y'ameza harimo abahungu babiri basa nkaho barimo barakora akazi, hirya yabo hari akabati gasa nkaho karimo amacupa menshi kandi atandukanye, hejuru yabo hari amatara nayo apanze ku murongo neza.

Ahantu hagaragara nkaho ari ahantu mu kabari cyangwa se mu kabyiniriro, haragaragazwa n'amatara atanga urumuri rw'amabara y'uruvangitiranye. Imbere hari umuntu ugaragara nkuri muri kotwari gusa hasi yiwe hari amakaziye ndetse na mudasobwa, iruha imbere yiwe hari umuntu usa nkaho urimo uramuganiriza wambaye ishati cyangwa se umwenda w'umukara.

Iki ni igice cy'ahantu hahurira abantu benshi, nko muri bare cyangwa resitora. Hagizwe n'urumuri rutatse rw'amatara atandukanye, ndetse n'ikirango cya Henikeni.

Abantu babiri harimo umwana ndetse n'umudamu bicaye, bari imbere y'ameza, ameza y'ibiti, inyuma yabo hari ibimera bimeze nk'imitako ndetse n'amatara acanye amurika y'uruvangitirane yiganjemo ubururu ndetse n'umutuku, uwo mudamu afite telefone mu ntoki, umwana ari kureba ibumoso.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umutuku n'umukara gishushanyijeho icupa rirerire cyane ry'icyatsi ,riri mu bwoko bwa byeri ryanditseho skol mart ,ku cyapa kandi handitseho handikishijweho, ibara ry'umuhondo amagambo agira ati CAROL'S JOINT , hasi hari ubutumwa icyo cyapa gitanga, kivuga y'uko inzoga nyinshi atari nziza ku buzima bw'umuntu.

Icyapa kirekire cyamamaza kigizwe n'amabara abiri, umweru n'umutuku, kigaragaraho icupa ry'amabara y'icyatsi rya Amstel hamwe n'ikirahuri kiriho inzoga byerekana ubuziranenge bwayo, ibara ritukura n'umweru bw'icyo cyapa hamwe n'ijambo Amstel beer bigaragaza umuco n'ubuhanga bw'iki kinyobwa. Inyuma hari imodoka n'ibidukikije by'umujyi bigaragaza ko iki cyapa kiri ahantu hahurira abantu benshi.

Akabati k'ikirahuri karimo amacupa y'ubwoko butandukanye kandi apanze ku murongo, kari kwakamo urumuri rw'amatara y'iroza ndetse iruhande rwako kabati hakaba hari tereviziyo igaragara igice kumwe gusa

Ahantu hameze neza nko mukabari haragaragara igikuta cy'amatafari ahiye ndetse mw'imbere haragaragara intebe zipanze neza ndetse n'ameza cyangwa se kontwari iri hakurya ifite akabati gapanzeho inzoga ndetse na firigo iriho icyapa cya skol

Ahantu hagaragar nko mu kabari, cyangwa muri resitora. Hagaragara ameza atambitse, nyuma y'iyo meza haragaragara abantu babiri ndetse n'utubati tubitse inzoga cyangwa se ibyo kunywabitandukanye. Hirya kandi hicaye abantu bagiye batatanye.

Abantu babiri bicaye ku meza, bagaragara ibiganza bafite telefone ngendanwa, kuri iyo meza bicayeho hagaragaraho ibinyobwa bitandukanye ndetse n'icupa ribonerana ririho ikirango cyanditseho godeni jini, hirya y'ameza hari icyapa gihagaze cyanditsweho amagambo gusa ntagaragara neza.

Ahasa n'aho abantu basohokera cyangwa se mu kabari, gusa hararangaye, hagizwe n'intebe n'ameza ziri m'ubwoko bw'ibibaho, ndetse n'abantu bari kureba mu ruhande rw'iburyo n'abandi bareba mu ruhande rwa ruguru ,hejuru y'aho hari icyapa kimanitse cyanditseho big house BBQ, haranga ko hari ahantu hashobora kuba hari ahantu ho gusohokera cyangwa aho kujya gusangirira.

Ameza yo mukabari ariho ama amagirasi cyangwa se ibikombe byo mu bwoko bw'ibirahuri ariku n'icupa riteretse ku gitambaro cy'umutuku icupa riboneranya ndetse ry'ikirahuri risa nk'iryavoduka hirya y'aho hari akabati cyangwa se etageri y'ibirahuri ibitsemo cyangwa se iteriretsemo amacupa y'ubwoko bwinshi butandukanye bw'inzoga.

Abantu babiri bagaragara bari mu kabari bahagaze hafi ya kontwari, umwe yambaye umupira w'umweru undi yambaye umupira na wo utagaragara neza ko ugaragara nk'umweru, akabari kagaragaramo umucyo w'amatara y'ubururu cyane, inyuma hari amacupa n'ibirahure cyangwa se ama televiziyo, uko aha hantu hasa harasa nk'ahantu h'imyidagaduro nko mu kabari cyangwa se akabyiniro.

Ahantu mu kabari hagaragaramo televiziyo irimo iraka igarura urumuri, haragaragara imeza iriho indobo zitandukanye, gusa haragaragara indobo y'umuhondo igizwe n'amagambo y'umutuku, ndetse iyo ndobo irimo amavide cyangwa se amacupa y' inzoga ariko agaragara nkaho agifunze. Kandi igikombe kirimo inzoga, kiri mu bwoko bw'igarase.

Abantu bari mu ruganiriro rwa resitora cyangwa akabari hari ameza afite ibitambaro byamabara meza. abantu bicaye bategereje serivisi n'umukozi uri gutanga serivisi, aho hantu hagaragara nkahafite umwuka mwiza ho kuruhukira kuko haragaragara ko hafunguye hanze.

Icyapa kinini cy'irangagurisha cya SKOL cyerekana ko ari inzoga ikoze mu mamera y'ijana ku ijana, hagaragara icupa rya SKOL rinini riri imbere rifite ibara ry'icyatsi rikurikiwe n'amafoto y'abantu bishimye bigaragaza ko ari inzoga ifasha kwishimana n'inshuti.

Indyo yo mu gikoni cya resitora yitwa makara igaragaraho agace kitwa fishi dishizi, kari ku ibara ry'umutuku, kagizwe n'indyo zidantukanye z'amafi esheshatu ziri kumwe n'ibindi bisobanura byazo, muri zo ee, izo ndyo zose zifite ibiciro biri hagati y'ibihumbi umunani by'amafaranga y'urwanda ndetse n'ibihumbi cumi na bitanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Iki ni icyapa kinini kerekana yuko aho kiri hari bare ndetse hakaba na resitora. Kuri icyo cyapa gikikijwe n'amabara menshi ariko yiganjemo icyatsi, hariho icupa, hariho n'ikirahure cyuzuyemo inzoga, hakaba hariho n'umuntu uri kunywa inzoga ubona ko yayishimiye.

Ahantu hagaragara nkaho ari mu kabari, haragaragara umukobwa uri imbere y'ameza, ahazwi nko muri kontwari, usa nk'aho ari kwakira abantu bari iburyo bw'iwe. Ari kureba umuntu iburyo, ndetse afite n'icupa ry'icyatsi mu kuboko kw'iwe kw'iburyo. Hirya y'iwe mu ntera hari abantu bicaye kuri ayo meza, basa nkaho bari kuganira, n'abandi barimo barafata ibyo kunywa.

Aha ni mukabari cyangwa se resto hagizwe n'intebe zishinze hirya no hino ndetse n'ameza bashyiriraho abantu azwi nka kontwari agaragara bicayeho abantu batatu ndetse n'abandi hirya kuruhande basa nk'aho bararebamo imbere barareba ahari urumuri ndetse nahari abakozi bakora muri ako kabari.

Itsinda ritandukanye ry'abantu ryicaye hanze munsi y'imitaka minini yi'icyatsi iriho ikirango cya Heneken, aha hantu hasa nk'ahantu hari akabari cyangwa se ahantu ho kurira, hari ameza n'intebe bikikijwe n'ibimera bitanga uburyohe bwo kwicara mu mwuka utuje, iyi foto yigaragaza igihe abantu bari kuganirira ndetse no gusangirira ahantu hanze.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya police, kikaba kigizwe n'amabara y'umutuku, umweru n'ubururu, kikaba kigizwe n'ibarangantego bibiri hari icy'u Rwanda n'icya police, ik'icyapa kikaba giteye mu busitani.

Ahantu hagaragara nko mu kabyiniro cyangwa se ahantu ho gusohokera, haragaragara uruvange rw'abantu benshi n'ibyo kunywa byinshi. Gusa hagaragara ameza abiri atatseho ibintu: imeza imwe iragaragaraho ibyo kunywa by'icyatsi biri mu bwoko bwa byeri, indi meza iragaragaraho ibyo kunywa biri mu bwoko bwa wisiki na za jini n'ibindi, n'utundi dukombe tw'udupulasitiki. Hagaragara uruvange rw'abantu benshi.

Amapikipiki menshi akoresha umuriro w'amashanyarazi. Yicayeho abagabo batandukanye, bambaye ingofero zabugenewe ndeste n'utujire tw'umuhondo. Bayakoreha mu kazi kabo ka buri munsi.

Imbere muri bare cyangwa resitora, hari abantu babiri bahagaze ku meza ya bare cyangwa kontwari; aho hameze neza hacanywe amatara atukura n'ay'ubururu. Inyuma y'ameza ya bare, hari amasherifu arimo amacupa ndetse n'icyuma cya tereviziyo kigaragaza gahunda iri ku kirahuri. I buryo bwa bare hari firigo ifite imiryango y'ikirahuri bishoboka ko irimo ibinyobwa, aho kwicara harimo ameza n' intebe, amwe muri ayo apfukishijwe n'imyambaro y'ameza.

Amacupa arimo amazi yo kunywa apanze neza ndetse agizwe n'igipapuro kiriho ikirango cya nile yegeranye n'ibipfunyika bibiri kimwe kirekire n'ikindi kigufiya biri iruhande rumwe ndetse bisa nkaho biri mu kabati.

Umuntu ufashe agakombe gapfunyitse neza ndetse kanariho ibishushanye bigizwe n'umukara ndetse n'amagambo y'umweru ndetse n'ibirango bya mukamira dayari rimitedi, hasi handitse ati favorayiti yogati kandi kari kwerekana y'uko icyo kinyobwa ari icya siroberi kigizwe n'imbuto yitwa siroberi ndetse n'amagarama ni maganabiri mirongo itanu.

Ahantu hameze nko mu bubiko ububiko bw'ibintu runaka, haragaragaramo utubido twinshi turi mu kabati ndetse dupanze neza, utu tubido twose ni utw'umweru. Hirya kandi haragaragara igikuta cy'amakaro y'umweru, aha hantu hashobora kuba ari mu bubiko koko, bw'ibintu runaka cyangwa se ibintu bikorwa byo mu ruganda mva ruganda.

Ni munzu igizwe n'amakaro y'umweru ku gikuta ndetse no hasi. Haragaragaramo imeza y'icyuma ndetse n'intebe y'ikibaho ndetse n'igicuba cyuzuye amata. Ndetse n'umuntu uri inyuma yiyo meza gusa arimo arareba kuri terefoni asa nk'uwacometse kuri sharijeri cyangwa se ku muriro.

Akabati k'ibiyo kagaragara kagaragaza amapuku gafite amapatanti abiri ku ipatanti yo hejuru harimo ibikombe bibiri by'ibirahuri byerurutse bishyizwe ku gipapuro cy'umweru ku ipatanti yo hasi harimo ibikombe birindwi bya silamike bifite ubunini n'imiterere bitandukanye byose biri mu mabara y'umweru, inyuma y'akabati harimo ibara ry'ubururu kandi ku kirahuri cy'akabati haragaragaraho igicucucu cy'ibyo hanze.

Umuryango winjira mu iduka ryitwa miriki zoni ufite ikimenyetso cyanditseho izina ry'ikirango Inyange hejuru, amagambo miriki na zoni agaragaza neza aho miriki yanditse mu ibara ry'umweru naho zoni yanditse mu ibara ry'icyatsi, umuryango ufite inzugi z'ubururu umwe muri izo nzugi hariho amashusho y'umwana uteruye igikombe urimo uraseka yishimye igikombe cy'amata, urukuta rw'inyuma rufite ibara rya beje naho ku ruhande rw'ibumoso hari urukuta rw'amatafari, mo imbere mu iduka harimo utubido turimo amata na firigo irimo amata.

Abantu babiri bagaragara bk'abari kwiyakira umwe aricaye undi amauhagaze ku ruhande rw'ibumoso uwicaye yicaye iruhande rw'ameza, imeza iriho isahani ndetse n'ibikombe hari undi muntu uri inyuma yiwe usa nk'urimo urareba hanze mu idirishya.

Icyumba kizwi nk'ibara ry'ubururu, kigaragaramo ibyuma bitatu, ni ibyuma bivana cyangwa se bitunganya amata, ibyo byuma byose biri hamwe kandi kimwe gitezeho indobo igaragara y'umweru ibonerana, gisa nk'ikiteguye kuba cyavomeramo amata.

Indobo ibonerana iri mu bwoko bwa pulasitike iragaragara ifunguye ariko ifunguye uruhande rumwe gusa umufuniko ntugaragara wose muri iyo ndobo hagati haragaragaramo yuko amandazi yashizemo haragaragara amandazi abiri ndetse n'akuma gashinzwe gukuramo amandazi.

Isambusa zirunze hamwe ku isiniya cyangwa se ku isahani y'icyuma, isahane na yo ikaba irambitse ku meza, ameza y'igiti ndetse ayo meza akaba agaragara nkaho ari ibindi bintu biriho, birambitseho ariko ntibigaragara neza, isambusa zisa nk'izihiye.

Ndabona imeza n'isahane iriho ibiryo byatangiye kuribwaho ariko no hirya hari umuntu utagaragara neza aragaragara akaboko bigaragara ko nawe yararimo aranywa icyayi ariko hino noneho hari igikombe cy'amata kandi ayo mata aracyuzuye, ayo mata ari mu gikombe, igikombe k'ikirahure.

Umuntu ufashe uri no kunywa igikombe cy'iroza kiri mu bwoko bwa parasitiki gifite imirongo y'umweru n'iy'iroza, iki gikombe kiriho ibishushanyo bitandukanye, intoki z'umuntu zigaragara zifashe igikombe kandi isura y'umuntu igaragazwa igice kimwe gusa nkuko ari kunywa.

Agapfunyika karimo ubwoko bw'igipapuro cy'umweru gasa nka karimo icyo kurya nk'rindazi cyangwa se umugati kari kuka paratike kabugeneye ko kubikaho amagi birambitse ahantu hari ku kibaho cy'umweru bigaragara nkaho ari mu bubiko bw'ibyo kurya.

Icyapa kinini kirambuye cy'ubururu, kigizwe n'ikirango k'inyange, ndetse n'amagambo yanditse munsi ya ya y'icyo kirango, ari mu mabara abiri umweru ndetse n'icyatsi, agira ati ''mirikizone'' hasi haragaragara ibicuruzwa byose cyangwa se ibitunganywa byose inyange ikora, mu ruganda rwabo.

Ahantu hari intebe ebyiri ziri kumwe na meza ndetse iruhande rwazo hari igikuta gishushanyizeho cyangwa se kiriho amashusho ariho utujerekani tw'umweru ndetse utwo tujerekani turimo amata n'udukombe two hasi twanzitseho yahurute hejuru kandi hariho igipapuro kiriho nimero z'umuntu ndetse n'amazina y'umuntu.

Ahantu hagaragaramo umwijima gusa haragaragara iduka rifunguye ndetse n'icyapa kiri hejuru y'ryo duka kiri kwaka. Iryo duka rigizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'ikirango k'inyange, inyange yandikishijwe mu mabara y'umweru. Imiryango n'ibiri kandi irafunguye. Imbere yiyo yiryo duka haragaragara imodoka y'umweru gusa yo iri mu mwijima.

Ahantu hasa n'ahatangirwa serivisi z'amata cyangwa se hagurishirizwa amata hagaragaramo icyuma kinini cyane gikonjesha cyangwa se kibikwamo amata, gishushanyijeho ndetse kiriho n'ikirango k'inyange ndetse n'amagambo yandikishijwe mu ibara ry'ubururu atimiki zone imbere y'icyo cyuma hicaye umudamu wambaye itaburiya y'umweru ndetse hagaragara akabido bigaragara ko ari kuvama ata ava muri icyo cyuma.

Abagabo bari mw'iduka rito ,umwe wambaye umupira w'icyatsi wanditseho ngo Kigali, afite akajerekani k'umuhondo, uwa kabiri wambaye ishati y'iroza ari inyuma ya meza ari kureba imbere ku meza hari ibikoresho bya parasitike birimo ibiribwa bisa nka mandazi cyangwa ibindi bigaragaza ibicuruzwa byabo. Inyuma hari amajerekani manini na matoya birashoboka ko iriduka ricuruza ibiribwa.

Ahantu hasa neza nko mu iduka ricuruza amata cyangwa se ibindi bintu, hari igisa na firigo, gusa ku ruhande rwacyo rw'ibumoso haragaragara igisa nk'icyapa cy'ubururu, cyanditseho mukamira dayari rimitedi, n'andi magambo yandikishijwe ibara ry'umweru, ati " amata ni ubuzima", n'igishushanyo cy'amata afunguye ndetse arimo arasukwa (arabuganizwa) mu igikombe cy'ikirahure( glass). Hirya hari umuntu gusa ntagaragara, aragaragara akaboko gusa.

Ikiganza cy'umuntu gusa haragaraga urutoki gusa ndetse na keke n'agatambaro k'umweru ko kwihanaguza cyangwa se kwifashisha, imbere haragaragara intebe ya pulasitiki ndetse n'ameza n'isahani itagaragara neza.

Aha ni ahantu hasa n' ahatangirwa serivisi z'ubucuruzi. Haragaragaramo icyuma gisa n' ikibika amata, ariko ntabwo kigaragara neza. Hirya haragaragara ibijerekani bibikwamo amazi, ku gukura cy'ubururu; hejuru yacyo hari icyapa cy'umuhondo gifite ibirango bya Emutiyeni.

Akabati kataboneka neza cyangwa se katagaragara neza gusa ikibonekamo ni udukombe dukatiwemo imbuto, imbuto zitandukanye kandi turi ku murungo hirya yaho hari imineke, imeneke yo ikiri mizima idatonoye.

Ahagaragara nk'ahacururizwa ibyokurya n'ibyokunywa hagizwe n'ibara ry'ubururu ndetse n'ibirango by'inyange harimo kandi ibicuruzwa bitandukanye nk'amata amandazi ndetse n'ibindi byinshi.

Ikiganza cy'umuntu gifashe ipaki y'igicuruzwa kiriho ikirango cy'Inyange, ndetse n'amagambo ari hasi ahanditse hati: "Premium, Passion fruit nectar", hagaragaraho ibishushanyo by'amatunda abiri ndetse na rimwe rikase n'ibibabi.

Akajerekani k'umweru gafunze, karimo amata yuzuye ndetse kariho n'agapapuro kandikishijweho n'amabara y'umukara, gateretse ku kintu gisa nk'ivu, kimeze nk'imeza. Hirya yaho hari ifoto, hari umuntu utagaragara neza, gusa aragaragara amaguru yiwe; yambaye ipantaro y'ubururu.

Etajeri cyangwa se akabati kagaragaramo ibyo kunywa bitandukanye bigizwe n'amacupa apanze ari ku murongo kandi agiye atandukanye. Iyo etajeri cyangwa se ako kabati gateye neza ku gikuta kigizwe n'amabara abiri, ubururu ndetse n'umweru. Imbere yaho hari intebe itagaragara neza nayo igizwe n'ibara ry'ubururu.

Iduka riri mu nyubako ifite ibara ry'ubururu n'umweru, ku muryango w'iduka hari ibirango n'ibishushanyo bigaragaza ibinyobwa bacuruza, hari ibirahuri byerekana ibicuruzwa biri imbere ndetse n'indobo y'amazi y'icyatsi iboneka ku ruhande rw'ibumoso rw'umuryango, inyuma mu iduka hagaragara amacupa n'utundi tuntu twinshi tw'ubucuruzi.

Ahantu hatoya hasa nk'ahacururizwa ibiribwa hari ameza y'umweru ya parasitiki, kuri ayo meza y'umweru hari imineke, amagi ndetse n'indobo ebyiri z'umweru, imwe irimo amandazi indi irimo ubufu busa nkaho bushizemo n'agasorori gatoya ndetse n'icupa rifunguye ririmo ikiyiko n'akandi gakombe gatoya gafite umufuniko w'umuhondo, inyuma hari umuntu uhagaze ureba mu muhanda asa nk'aho ari idirishya cyangwa se umuryango.

Hari igikoresho mvaruganda cy'umweru gifite fani cyangwa se ibihungizo bibiri, by'umukara binini, bifite ibara ry'umukara gishyinzwe kuri pareti y'ibiti, mu cyumba gifite amakaro y'umweru ndetse n'ibindi byuma byi n'ibindi byuma biri mu mpande ariko bitagaragara, hejuru y'icyo gikoresho hari hari paneri cyangwa se pano y'amashanyarazi ifite utubuto dutandukanye n'ibimenyetso bitandukanye, icyuma gifite idirishya riri kuruhande rw'ibumoso, gusa rireba hanze.

Amacupa ari mu bwoko bumwe no mu ibara rimwe atondekanye neza ku murongo mu gice cy'ububiko gikonjesha kizwi neza nka firigo, hejuru yayo hari andi macupa atagaragara neza ariko natyo bigaragara ko atondetse neza. Ayo macupa kandi yose agaragara afite icyapa kimwe cya masakafamu.

Isahane yera iriho amakeke atatu ndetse n'agatambaro hagati ko kwihanaguza, iyo sahane irambitse ku meza. Ameza ashushanyijeho cyangwa se agizwe n'amabara ari mu bwoko bubiri, umweru ndetse n'umukara. Ku ruhande hariho udukombe tubiri tutagaragara neza gusa natwo duteretse kuri ayo meza.

Ahantu hagaragara nkaho bacururiza cyangwa se bahatangira amata, haragaragara abantu, abantu bahagaze ndetse n'uwicaye, uwicaye yicaye imbere y'ameza ndetse n'imbere y'icyuma gitanga amata, arimo arayavoma mu ijage y'umweru. Inyuma y'iwe hari akabati, ndetse n'ikirango cya Inyange Miliki Zone.

Amandazi menshi ari hamwe apanze ku isahani gusa hejuru y'ayo mandazi hagaragara ibice bibiri by'amandazi asa nk'ayakaswemo, ayo mandazi ari ku isahani y'umweru isa n'uy'umweru nayo kandi iteretse ku gitambaro igitambaro gisa umweru kigizwe n'amabara atandukanye.

Umutegarugori ugaragara ku shusho iri mu bwoko bw'umweru n'umukara warambitse amaboko yombi ku meza isa n'aho ari umukara, arimo arareba iburyo ndetse yabumbye umunwa, ku ruhanande cyangwa se mu ntera z'ifoto, haragaragara hasi ko hari amakaro y'umweru atondekanyije.

Ahantu hameze nko mwipimiro cyangwa se ahantu bacuruza amata haragaragara umuntu wambaye itaburiys y'umweru ndetse ufite ijage urimo arasukira undi muntu amata haragaragara idirishya rifunguye ndetse rigizwe nibara ry'ubururu hanze yiryo dirishya har'abantu ndetse hari ikiganza giteze cyenda gufata ijage irimo irasukirwamo amata.

Abantu batatu bicaye ahantu basa nk'aho biyakiirira, ahantu nko muri kantine cyangwa se ahantu bacururiza amata bicaye ku ntebe za purasitike ndetse n'ameza ariho amajage abiri abonerana ndetse arimo amata, abo bantu n'abo bafite ibikombe by'amata, babiri muri bo babishyize ku munwa barimo baranywa.

Umuntu uteruranye amaboko yombi isahani nini yuzuyeho amandazi atetse, ndetse ahiye, kandi asa neza, asa nk'ugiye kuyarambika ku meza, imeza igizwe n'amabara, amabara atandukanye, amabara asa nk'aho arimo umuhondo, umweru, ndetse n'umukara.

Ahantu hagaragara nk'ahacururizwa amata haragaragara icyuma kibikwamo amata cyangwa se gikonjesha amata, kigizwe n'ibishushanyo bigizwe n'amabara y'ubururu n'umweru ndetse n'ikirango kiriho inka hasi handitse ngo Nyanza, ku ruhande rwaho haragaragara akabati gafite ibirahuri ndetse kabitsemo utubido dupanze neza ku murongo.

Umuntu uri aho bapimira amata cyangwa se aho batangira amata uko bigaragaraafite indobo cyangwa se ijage mu kaboko kiwe k'ibumoso ndetse n'ikidahisho mu kuboko kwiwe k'iburyo, asa nk'urimo aradaha amata arimo arareba iburyo, umuntu utagaragara neza uri mu idirishya risa ubururu.

Ahantu hagaragara cyane nk'ahatunganyirizwa amata, cyangwa se ahatangirwa amata, haragaragara icyuma kinini cyane, kiriho ishusho handitseho ngo mirikizone, ndetse n'ikirango k'inyange , n'abagabo babiri barimo baravoma umwe usa nk'uwunamye urimo arakivomamo amata, hirya hari etajeri ipanzemo udukarito tw'amata tw'inyange.

Icyuma gikonjesha cyifashishwa mu kubika cyangwa gukonjesha amata kizwi nka mirikura, iki cyuma gifite ishusho ya metero kandi gikozwe mu byuma bidapfa, ku ruhande hariho ikirango cyanditseho derita bishoboka kuba izina ry'uruganda rwagikoze, hari ibikoresho bifasha gufungura no gufunga igice cyo hejuru ndetse n'umuyoboro ugaragaza ko ushobora kuba ukoreshwa mu gushira cyangwa mu gusohora amata mu cyuma, iki cyuma kigaragara nk'aho kiri ahantu, ahantu hera kandi hasukuye.

Abantu batatu bahagaze mu iduka ricururizwamo bari kwamamaza ikinyobwa kiri mu bwoko bwa yogati babiri muri bo bambaye imipira y'imituku undi umwe yambaye umupira w'umukara gusa imipira yose ihuriyeho ibirango bimwe.

Ijerekani zirenze ebyiri z'umweru zashizwe zirundanyijwe ku rukuta rw'amatafari haragaragara kandi igice cy'urugi rw'ubururu n'igice cy'ububiko gifite ubukonje kizwi nka firigo. Ibi byose biri ahantu mu iduka ahantu hameze nk'ahakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi.

Umwana mutoya uhagaze yambaye imyenda irimo ibishushanyo areba ahantu hatagaragara inyuma ye harimo urukuta rwamatafari harimo amategura yera nibindi bikoresho bitandukanye birimo nkicyuma kimeze nkameza cyangwa se akabati.

Umuntu uri mu cyumba kirimo icyuma kinini cyane gikonjesha amata, cyangwa se kibika amata cyizwi nka miliki kula. Afite igicuba mu ntoki ziwe, asa nkuri gusuka cyangwa se kongeramo amata muri icyo cyuma. Aho hantu hasa nkaho hacururizwa amata, cyangwa se ahakorerwa, cyangwa se ahavangirwa amata.

Imigati myinshi isa neza iri mu bwoko bwa keke, iri ku isahani y'umweru ndetse n'undi umwe uteretse hasi, hasi ku gitambaro kirambuye kiri mu ibara risa nk'ivu, ndetse hirya mu ntera hagaragara udupapuro tubiri natwo turimo imigati ariko two turimo ubusa.

Umubyeyi wicaye muri resitora cyangwase ahantu biyakirira, yicaye ku imeza itatseho igitambaro, ndetse hariho ibikombe bibiri n'amasahani, igikombe kiri mubwoko bw'igarase cyuzuyemo amata ndetse n'isahani iriho amandazi atatu, iruhande rw'uwomubyeyi hari firigo ishushanyijeho icupa rire rire, ndetse no muriyo firigo harimo ibinyobwa bitandukanye.

Abantu batatu bicaye ku meza barimo kunywa amata mu bikombe binini, umugabo umwe wambaye umupira w'umweru n'umukara n'undi wambaye umupira w'ubururu, bose bashize bikombe by'amata ku munwa bari kumwe n'umugore wambaye ishati y'amabara, bari ku meza iriho umwenda uyatwikiriye, imbere hari igikombe n'ibipimisho by'amata, inyuma yabo hari urukuta rufite ibara y'ubururu ndetse n'umweru.

Abantu bari kwiyakira abana babiri bafite ibikombe biri mu bwoko bw'igarase bya byuzuye amata ndetse n'imigati mu ntoki bari kunywa bicaye ku meza y'umweru ndetse n'intebe za pulastiki y'umweru, bahagarariwe n'umuntu utagaragara mu maso wambaye umupira w'umweru ndetse n'ikora rya oranje, hirya yaho hari umuntu wambaye imyenda y'igisarubeti ndetse n'inzu ifite ibirahuri bibonerana.

Imiryango ibiri ifunguye isa nk'ikorerwamo ubucuruzi, hanze hasa n'ahateye intebe intebe za parasitike ndetse n'umutaka ugaragara igice cy'umutuku ku muryango ufunguye hejuru yaho hahagizwe n'icyapa kinini kigizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'akaruru gakeya n'ibirango by'inyange ndetse n'amagambo yandikishijwe mu ibara ry'ubururu ati inyange n'andi yanditse mu ibara ry'umweru ati milike zone. Aha hantu hasa n'a hatangirwa serivisi z'amata.

Ahantu hagaragara nk'ahakorerwa cyangwa se ahashyirwa serivisi, haragaragaramo umukobwa umwe usa n'urimo urareba mo indani mu nzu, gusa muri iyo nzu harimo ibikoresho byinshi, haragaragara icyuma gifunguye, kinini ndetse n'ameza y'icyuma n'intebe iruhande rwayo. Hirya haragaragara igikuta kiriho amakaro azengurutse inzu yose n'ibintu byegamye ku makaro hirya. Imiryango irafunguye, hanze haragaragara n'igare riri hanze.

Igikombe kinini kiri mu ubwoko bw'igarasi cyuzuyemwo amata, hirya yaho hari icupa ritagaragara neza ry'amazi risa ubururu, byose biri ku meza, imeza ipfunyitsweho ipalasitiki ariko hagati harimo igitambaro.

Abadamu babiri abadamu babiri basa nk'abari kwamamaza umwe wambaye ishati isa nk'kirere bafashe ikarito mu ntoki, undi wambaye umupira w'umukara afashe utundi dukarito tubiri mu ntoki, inyuma yabo hasa nk'ahari amafirigo cyangwa se utubati tw'umweru turimo ibyo bari kwamamaza bacuruza muri iryo duka.

Ahagaragara nk'atangirwa serivisi cyangwa hagurishirizwa serivisi z'amata, haragaragaramo icyuma kinini kibikwamo amata kigizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'ibirango by'inyange, inyuma yacyo haragaragara hagaragara etajeri iri mu rukuta irimo ubwoko bw'ibicuruzwa butandukanye bw'inyange harimo amata, amazi ndetse na ji.

Ibicuruza bitandukanye ndetse biri m'ubwoko butandukanye gusa byose bikorwa n'uruganda cyangwa se ikigo kimwe kigaragaza ikirango usanga kuri buri gicuruzwa kigaragaraho inka ndetse no hejuru amagambo avugango '' zirakamwa dayiri'', inyuma yibyo bicuruzwa haragararagara umumama ndetse inyuma y'uwo mumama haragaragara imbingo, bigaragako ari ahantu ho gucururiza cyangwa se hogutangira serivise z'ibyo bicuruzwa

Iduka rigizwe n'igikuta cy'ubururu, ndetse hagati haragaragaramo icyuma kinini cyane kibika amata, kigizwe n'igishushanyo cy'umweru kiriho ikirango k'inyange ndetse n'amagambo yanditswe m'ubururu bw'igicu ati:Milkzone. K'uruhande rw'iburyo haragaragara akabati karimo ibicuruzwa ndetse no hejuru hariho ibibido bibikwamo amazi.

Ahantu hagaragara nkahatangirwa serivise y'ubucuruzi haragaragara umuntu wambaye umwenda muremure w'ubururu ndetse n'ishakoshi y'umukara kukaboko k'ibumoso ndetse n'igitambaro cy'umweru, ahagaze imbere y'imeza ndende igaragaraho iriho ibirahuri harimo ibinyobwa bitandukanye ndetse imbere y'ameza ntabwo hagaragara neza hari umwijima.

Ububiko bubikwamo ibinyobwa cyangwa se amata afunze yamazwe gukorwa, yamaze no gufungwa, ni ibinyobwa bipanze neza, bimwe biri mu tubati, ibindi biri mu bitebo, ibitebo by'amabara atandukanye. haragaragara amabara y'icyatsi, ubururu n'umuhondo. Muri ibyo binyobwa harimo ibinyobwa biri mu tubido tw'umweru, ibinyobwa biri mu ducupa dutoya ndetse n'utundi tw'uduparasitike dusa n'udufunze.

Ahantu hagaragara nk'ahantu nko muri resitora cyangwag se muri kantine harimo hagaragaramo abantu batatu, umuma urimo urakirizwa n'umusore wambaye isengeri igikombe gisa nkaho kirimo icyo kunywa, ndetse n'umugabo uri ku urundi ruhande wambaye ingofero y'ubururu urimo ureba hasi, ku urukuta rw'inyuma y'uwo mumama handitseho hati: "zirakama" hirya y'umusore kandi inyuma yiwe hari akabati karimo ibintu byinshi byo kurya birimo n'indobo zuzuyemo ibyo kurya.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko ukorerwamo mu byerekezo byombi, ku ruhande rw'uburyo bw'umuhanda hakaba haparitse abamotari benshi cyane bigaragara ko bategereje abagenzi kandi hirya hakagaragara inzu nini cyane ubona ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Aha ni mubice byahacururizwa cyangwa ahabikwa ibicuruzwa. kuruhande rw'ibumosoh hari amacupa yamazi ya parasitike ari mu ibara ry'ubururu yanditseho berivi(Belle v)hagati haragaragara ikibindi kinini cyanditseho amagambo y'umweru agira ati mukamira Nandi agira ati amata n'ubuzima. Ndetse kuruhande rw'iburyo hari umuryango wikirahure ugaragaramo ishusho y'inyuma ndetse n'uducupa dufitei dufite ibinyobwa bifite amagambo adasomeka neza gusa biragaragara ko ibi binyobwa byijimye.

Firigo igaragaramo imbere, yegamye ku gikuta cy'amatafari ahiye, mo imbere harimo akabido karimo amata ndetse n'agacupa k'amazi, hasi yaho hari ijaga ndetse n'ikindi gikombe cy'icyatsi, ku ruhande rw'iyo firigo hari ijerikani ifite ikirango cya Jibu.

Utujerekani tw'umweru dutanu twanditsweho amabara atandukanye ariko atabasha gusomeka turi kumwe n'akandi kajerekani k'umuhondo kagizwe n'umufuniko w'umutuku ndetse n'igicuba cy'icyuma kiri hafi yaho, aho hasa nk'ahapimirwa amata cyangwa se ahantu hatagurishirizwa serivisi z'amata.

Abana babiri bagaragara bari kunywa amata, banayasangiza keke, imbere yabo bicaye ku meza, imeza ya palasitiki y'umweru nayo iriho utubido tubiri tw'amata n'igicuba cy'icyuma, iruhande rwabo bahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru n'ikora ya oranje, gusa mu maso ye ntagaragara neza. Mu ntera hari undi mugabo wambaye imyenda y'icyatsi uri kubarebera kure gusa nawe ntagaragara neza.

Ahantu hasa nkaho ubucuruzi ho gukorera hafunguye hagaragaramo ameza mo hagati, ameza ariho igishushanyo cy'umwana uteru igarasi y'amata ari ikirango cy'inyange bigaragara ko yayanyweye akamusigara ku munwa kandi kuri ayo meza hariho amagambo yandikijwe n'amabara atandukanye avuga ati amata ni meza ateguwe neza ashobora guhita anyobwa yujuje ubuziranenge.

Ahantu hasa n'ahari iduka ry'ubucuruzi, aho hantu hasize ibara ry'umweru, hagizwemo n'intebe za pulastike nazo z'amabara, ndetse harimo abantu babiri. Harimo na frigo isa nkaho ari umutuku ndetse n'umuntu wicaye inyuma y'ameza, inyuma hakaba hariyo etajeri kandi nayo irimo inicuruzwa, irimo amacupa arimo ibinyobwa. Kandi mur'iryo duka harimo n'umu mama wicaye ku meza asa naho yaje kwiyakira.

Igikombe kigarasi kirimo amata cyashyizwe ku isakaro ry'umweru iruhande rw'icyo gikombe kigarasi hari isahane y'umweru ariko iriho ubusa, ahantu higaragaza neza Kandi hasukuye bishoboka ko ari mu gikoni cyangwa ahantu ho kurira.

Umutegarugori wambaye wikwije ndetse ufite ijage irimo amata, ku ruhande rwe rw'ibumoso haragaragara akabati k'ikibaho ndetse nako kariho ijage ndetse n'imibirikira yo gusukiramo amata. Hirya hari icyuma kibikwamo amata ariko kigaragara igice kimwe, gishushanyijeho cyangwa se kiriho ibishushanyo by'ubururu n'umweru kinanditseho Nyanza miliki indasitiri.

ahantu hagaragara nko mw'iduka ricuruza ibyo kunywa no kurya hagaragara nkaho ari nka kantine. harimo abantu babiri umukobwa wambaye ishati y'ikoboyi y'ubururu n'ijipo y'icyatsi iruhande rw'ameza inyuma ye hakaba akabati karimo ibyo kunywa ndetse iruhande rw'akabati hakaba firigo iriho icyapa cya mukamira

Umuntu uhagaze muri kantine cyangwa se resitora ahatangirwa ubucuruzi bw'ibiribwa uko bigaragara asa nk'aho arimo arasaba ko bamuha igicuruzwa, imbere y'ameza haragaragara umuntu uteruye akabido k'umweru ndetse na emvirope mu kandi kaboko k'iburyo urimo uramuhereza usa nuri kumuhereza, imbere y'ameza cyangwa kontwari haragaragara ibindi bicuruzwa byinshi bitandukanye ndetse harimo n'ibinyobwa n'amabiswi cyangwa se imikati.

Iduka rigaragara nk'iricuruza ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa, riragaragaramo umuntu uri iruhande rw'ameza y'umweru, ndetse ufite terefone ngendanwa mu kaboko k'iwe k'iburyo k'ugutwi ndetse n'ameza y'umweru ariho ijage ipfunduye y'ubururu ndetse n'umupfuniko, hagaragaramo kandi icyuma cy'amata, n'umuntu usa nk'uri kukirebaba ndetse n'akabati gafite ikiyo kigaragara kirimo ibicuruzwa, n'akabati kegetse ku gikuta kari mu ibara ry'ubururu kandi karimo amacupa y'amaji.

Akabati gasize irangi ry'ubururu, karimo ibicuruzwa bitandukanye bipfunyitse, birimo amakarito y'amata y'Inyange, amacupa y'amazi n'ibindi binyobwa. Ibicuruzwa byose bipanze neza ku mirongo ifatanye kandi iteguye neza.

Igikombe cyuzuye amata kibonerana kiri mu bwoko bw'igarase, kigaragara ku meza y'ikibaho ndetse iyo meza ikaba irambitseho ikaramu. Turi kubona ikiganza cy'umuntu ufashe keke, keke kandi yashunweho.

Umuryango w'ubururu ufunguye uriho icyapa, cyangwa se ishusho y'inka, inka ihagaze mu kirangantego cya Nyanza miriki indasitirizi, inyuma yuwo muryango haragaragara igikuta cy'amatafari ahiye, n'amajerekani atonze ku kumurongo apanze agerekeranyije y'Umweru.

Ikiganza gicigatiye capati ishunnyeho ndetse imbere haragaragara isahani y'umweru irambitse ku meza y'umweru, ndetse n'igikombe kiri mu igarasi ariko haragara umukono kuko igikombe ntago kigaragara cyapfutswe n'iyo capati, inyuma y'iyo capati haragara akameza na ko k'ibirahure ndetse ntago haragara neza ibirimo imbere.

Iduka rifunguye ricuruza ibyo kunywa biri mubwoko bw'amata akozwe n'uruganda rwitwa royo fureshi porodukite uyibwirwa n'icyapa ubona hejuru yuwo muryango cyiri mwibara ry'umutuku ndetse n'umweru kigira kiti royo fureshi mirike porodukite hariho ibicuruzwa byose urwo ruganda cyangwase icyo kigo gikora

Iduka rigizwe n'igikuta cy'amatafari ahiye muri iryo duka hagaragaramo icyuma kinini kibika amata cyangwa se gikonjesha amata icyo cyuma kigizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'umweru n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ati 'nyanza milki industry ltd' ku ruhande rwabo hari ameza iteretseho indobo, ariko bitagaragara neza, ndetse n'irindi hema riri ku rundi ruhande rw'ibumoso ko nari ntigaragara neza hari agaparasitike karimo udutambaro tw'umweru.

Ibicuruzwa bitandukanye bigifunze kandi bifunyitse, birimwo amazi, yahurute ndetse n'akabido k'amata, bisa nk'ibifungiranye mu cyuma cyabugenewe gisanzwe gikonjesha cyangwa se kibikamo ibicuruzwa.

Uyu ni umutegarugori ucigatiye ijerekani yuzuyemo amata, imbere y'iwe hakaba hari ibikombe bisa neza nk'aho biteguwe, biteguwe kuba byasukwamo amata, bimwe byamaze gusukwamo amata, kandi biteguwe kuba byakwakirwa.

AgapalasItike ka mpande enye gafite aho baterurira habiri ku mpande zombi, karimo agapapuro ko kwihanaguza k'umweru, ako ga palasitike kari hejuru y'ishusho y'icyuma, kigaragara ko ari icyuma kirambuye ndetse ako gapalasitike gatobaguye mu mpande.

Amacupa menshi asa nk'apanze mu gitebo, aya macupa apanze bitandukanye. Hari amwe areba hejuru ndetse n'amwe areba hasi. Gusa ayo macupa menshi afite agapfuniko k'umuhondo hejuru, ndetse n'igishushanyo kigaragaza ikirango, ikirango cy'uruganda rukora ayo macupa, kitwa masaka fomu.

Ameza y'urubaho ariho ikaramu n'indobo ebyiri zibonerana ariko zisa nk'izirimo amandazi cyangwa se ibindi bintu bimeze nka keke indobo imwe iriho icyuma kifashishwa mu gukuramo ibyo byo kurya biri mu iduka rifunguye rifite umuryango umwe ufunguye hirya y'umuhanda hari umuntu usa nk'urimo uragenda wambaye umupira w'umweru.

Abagabo batatu ubona ko bambaye idarapo ry'igihugu cy' u Rwanda irimo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi bafite amakaye imbere yabo ndetse n'ikindi kintu giteretse ubabona ko wagira ngo bari kurahira imihigo runaka.

Umuntu wambaye umwenda w'akazi w'iroza, inyuma ku mugongo wiwe wandishijweho n'amagambo y'umukara, agaragaza aho akorera na nimero ziwe za telefone, ari mu kiraro cy'inkoko, aho bigaragara yuko arimo arafata amagi ayashyira mu twabugenewe twayo.

Umumama ugaragara wicaye ku meza iriho ibikombe bibili gusa kimwe kirimo icyayi ndetse n'ikiyiko, afite telefone igendanwa mu ntoki kandi ku ruhande rw'iwe rw'iburyo hagaragara icyapa cy'umutuku kigaragaza icupa ndetse iryo cupa rika ryamamariza Coca Cola.

Utubido twinshi dusa nk'utubikwamo amata turi ku murongo, turi mu ibara ry'umweru, imbere yatwo hari n'udukato natwo turi ku murongo dupanze turi mu mabara atandukanye natwo dusa nk'utubikwamo amata ndetse na foromaje zipfunyitswe neza mu ishashi, ahangaha hasa nk'ahakorerwa amata cyangwa se mu kikoni.

Ahantu hasa nkahatangirwa serivise z'amata haragaragaramo icyuma kinini cyane kigizwe n'amashusho ari mu ibara ry'umweru n'ubururu ndetse n'igishushanyo cy'inka igaragara m'uruhande rumwe, handitseho amagambo ari mu inyuguti z'umweru ati '' nyanza mirike indasitirizi'' haragaragara kandi intebe ndetse n'ameza y'ibibaho hirya mu intera hari igikuta cy'amadafari ahiye.

Aha ni muri resitora cyangwa se kantine ni ahantu abantu basobora kuba bafatira amafunguro, haragaragaramo intebe za purasitike z'umweru n'abantu bicaye bitandukanye ndetse haragaraga umuntu ufite ukuboko gufashe igikombe k'ikirahure kandi cyuzuyemo amata ndetse n'undi ucigatiye igikombe urimo uranywa amata.

Umumama wicaye ku meza apfunyitseho gitambaro, igitambaro cy'umukara n'umuhondo, ndetse ayo meza akaba ariho igikombe cy'umweru, ndetse nagapalasitiki k'iroza karimo ishashimo hagati, uwo mumama asa nk'uri kuvugisha umuntu utagaragara, iruhande rwiwe hari firigo y'umutuku, iyo firigo biragaragara yuko irimo ibinyobwa bitandukanye, kandi ikaba ifite cyangwase iri kwamamaza ikinyobwa kitwa coca cola.

Amacupa maremare apanze neza ari mu bwoko bwa parasitiki, ayo macupa arimo amazi ndetse ayo macupa afite ibirango byanditseho nili. Kuruhande rwaho hari ikibaho ndetse n'igikarito, inyuma yayo hari igikuta cy'umweru.,

Indobo ibonerana ifunguye uruhande rumwe ifunguye irimo amakeke, iteretse ku ishyi, iteretse ku meza isa nkaho iriho ikibaho. Mu ntera mu ntera z'iyo meza hari urukuta rw'amatafari ahiye ndetse n'icyuma gisa nkaho gishushanyijeho, kigizwe n'amabara y'ubururu n'umweru.

Akabati k'imbaho kagaragaramo amajerekani abiri, imwe iri hasi indi iri hejuru yose y'umweru asa nkaho nta kintu kirimo, muri ako kabati, akabati gafite icyapa kimanutse hasi gusa kigizwe n'amabara y'ubururu n'umweru nta magambo ariho ntago agaragara, hirya y'akabati haragaragara igikuta cy'amatafari ahiye.

Ahantu hafunguye, hasa n'acururizwa, hari umuryango w'ubururu ndetse n'igikuta cy'amatafari. Hagati harimo amajerekani apanze, ndetse ariho ikirango cyitwa ngo jibu. Kandi kuruhande rwaho hari ikintu kimeze nka firigo, mo imbere harimo igikombe gitereretse hasi mu mpande.

Akazu kubakiye gakoze mu byuma karimo ibidomoro binini by'amazi by'ubururu bibitswe mu buryo buhagaritse, ako kazu gafite ibara ry'ubururu bwererutse kandi kari ku ruhande rw'iburyo kariho ingufuri ndetse ku ruhande rw'ibumoso hari umuryango w'ubururu ufunguye, ako kazu kegetse neza ku gikuta cy'amatafari ahiye.

Umutegarugori urimo urareba ibumoso, kandi akaba acigatiye akabido n'amaboko abiri yombi k'umuhondo, hirya hari amateremusi atondekanye neza ku murongo, mu ntera hari igikuta cy'umuhondo gusa hari umuryango usa nkufunguye hejuru yaho hari inyenyeri hashushanyijeho inyenyeri ifite ibara ry'ubururu.

Ifoto igizwe n'ibice bibiri, aho igice cy'iburyo kiriho ikimera ndetse n'inka iri munsi yacyo. Ifoto y'ibumoso, igaragaza abantu babiri ndetse bari imbere y'iduka. Iryo duka hakaba hejuru handitseho ati aho bakirira amata. Mo imbere harimo basa nk'aho barimo barabasukira mata, bigaragara ko bari baje gufata amata aho hantu.

Iduka ricuruza ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa wahita nka kantine, rigizwe n'ibara ry'ubururu kubibambasi ndetse n'akabati gateye kukibambasi gapanzemo ibyo kunywa nk'amata ndetse n'aamazi n'amaji imbere haragaragara akandi kabati gafite ikirahure kibonerana kariho imeza yo hejuru ndetse no kuruhande hari icyuma gisa nk'ikibikwamo amata.

Agapalastiki k'umukara kifashi kifashishwa mu kubika ibintu mu gikori cyangwa se mu rugo gafite amaboko mu mpande zombi katobaguye kandi gatobaguye mu mpande zose, mo hagati kabitse mo hagati gateretsemo amagi atatu ndetse n'akandi gakoko gusa katagaragara neza ikirimo. Kandi kari ako gatebo gateretseho ako gapalasitike kari ku meza y'umweru irambuye.

Ameza atatsweho igitambaro gishoshanyijweho n'amabara y'ubururu ndetse n'umweru ndetse n'indabyo z'icyatsi giteretseho ibikombe bibiri by'igarasi birimo amata ndetse n'utubido tubiri k'uruhande hirya yaho hariho intebe ya parastiki ndetse n'akabati kari kuruhande katagaragara neza gasa nkaho karimo ibintu, aha hagaragara nkaho ari muri saro y'abantu cyangwa se ahantu abantu banywera cyangwa barira.

Ikirango cy'uruganda rukora ibikomoka ku mata rwitwa Nyanza mirike indasitiri (Nyanza milk industries) hari igishushanyo cy'inka kiboneka mw'ishusho ryik'irangantego kigaragaza ko uruganda rukora ibijyanye nibiboneka ku mata, amagambo yanditseho ni Nyanza mirike indasitirizi(Inyanza milk industries) agaragaza n'izina ryu ruganda. Hariho na nimero za terefone za bifuza guhamagara cyangwa se kugura ibicuruzwa byo haruguru ndetse no hasi hari ibindi bicuruzwa by' uruganda bikozwe mu mata.

Intebe y'uruhu ruri mu ibara ry'ikawa ifite imyanya itatu hamwe n'igice kirenze kiri ku ruhande rw'iburyo iri kugaragara ku rukuta rw'iroza kandi kuri urwo rukuta hariho amatara ateye neza nk'ay'igiti, iyi ntebe iragaragara ahantu hameze nk'ahari muri salon cyangwa se ahantu mu ruganiriro.

Ahantu hasa nk'ahatanga serivisi z'ubucuruzi haragaragara abantu batatu babiri basa nk'abahakora n'umwe usa n'uje gushaka serivisi, muri babiri basa nk'abahakora bambaye imyenda iriho ibirango bya emutiyeni, umwe niwe ugaragara neza ufashe agaseke cyangwa se agatebo gasa icyatsi n'umweru ndetse umukiriya biragaragara ko arimo araragakoramo.

Abantu babiri bari kuganira, bari kuganirira ahari akazu k' ubucuruzi gataya kari mu moka ya kiyosike kagizwe n' ibara ry' umuhondo ndetse n' ibyapa n' ibirango bya MTN. Umuntu ahagaze imbere yako yambaye ishati y' ubururu ndetse n' ipantaro y' umukara inyuma yako kazu haragaragara ibimera ndetse n' inzu itagaragara neza.

Ahantu hanze hashinzwe amahema imitaka ndetse n'ibyapa, byose bigizwe n'ibirango bya emutiyeni ndetse byose kandi biri mu ibara ry'umuhondo. Hagaragaramo abantu babiri bicaye bicaye mu mutaka ndetse basa nkaho bari gutanga serivise zigendanye na emutiyeni. Hirya yabo hari ibimera ndetse n'ibindi ibyapa gusa ntibigaragara neza.

Abantu basa nk'abari mu iduka, haragaragara umumama usa nkuri guhaha ndetse n'umukobwa barikumwe wambaye umupira w'umuhondo uriho ibirango bya mobayiromani byandikishijwe mu mabara y'ubururu, imbere yabo barikumwe n'undi wambaye umupira usa nk'uwo wa mugenzi we, bisa nkaho bari gufasha uwo mubyeyi.

Umuntu wicaye imbere y'ameza agaragara imashini ebyiri zo kwishyuriraho uciye ku ikoranabuhanga, ndetse kuri iyo meza hagaragara na terefone ndetse n'ikindi cyapa cy'umuhondo kigara kiriho ikirango cya emutiyene ndetse n'amagambo avuga ati ''wakwishyura kuri mobayiromani hano'', kuri ayo meza hagaragara utundi dupapuro twinshi, ndetse n'icupa ririmo umuti wo kwisukura mu ntoki.

Umugore wambaye umupira w'umweru ufite ikora ry'umuhondo ndetse n'ibirango bya MTN, ahagaze imbere y'abantu ari kubasobanurir asa nk'aho ari kubasobanurira serivise za MTN. Imbere yiwe hagaragara umugabo wambaye ishati y'umweru irimo uturongo twa karokaro ndetse n'ameza ariho mudasobwa, ku gikuta hagaragara icyapa kinini cy'umuhondo cyanditseho amagambo ngo cayanditseho amagambo y'umukara ndetse nay'umutuku.

Abantu babiri basa nk'abari kwerekana telefoni zigendanwa imwe muri zo ifite kode isuzumwa, indi ikaba ifite ikirahuri cyera. Ku meza hari icyuma cyakira amafaranga bigaragaza ko hari igikorwa cyo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga ryo kwishyura ntagukoranaho cyangwa se gukora ku mafaranga. Ibi byerekana uburyo bugezweho bwo kwishyura bwo gukora ubucuruzi hifashijwe ikoranabuhanga.

Icyumba gifite ibara ritukura n'umweru kirimo ikirango cya aitel money, hari ikirahuri kinini cyerekana ibicuruzwa bimeze nk'ibikoresho by'itumanaho cyangwa amasimukadi, ku ruhande hari ikimenyetso kinini gitambitse, kigaragaza serivisi za airtel money, zirimo kwiyandikisha, kubitsa no kubikuza amafaranga. Kugura igihe cyo guhamagara no kwishyuza inyemezabwishyu, ku kibaho hari ifoto y'abakobwa babiri bafite ibyishimo.

Abantu babiri basa nkabegamye ku meza ahantu hatangirwa ubucuruzi haragaragara umuntu ufite terefone ngendanwa mu ntoki n'undi wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero igizwe n'ibara ry'umuhondo n'ubururu mu kaboko ke k'ibumoso afite terefone n'akapa k'umuhondo n'umweru inyuma yabo kandi hakurya yameza haragaragara firigo nini iri mw'ibara ry'umutuku ndetse n'icyapa cya coca cola iy'irimo ibinyobwa bitandukanye by'amoko atandukanye.

Iki ni icyapa gitoya cya mamaza kiri mu mabara y'umuhondo gitangwa na Mtn momo kigaragaza aho kiri ko buri muntu wese ashobora kuba yakishyura biciye ku ikoranabuhanga hasi kirerekana amazina yuwishyurwa.

Akazu gatoya k'ubucuruzi, kari mu bwoko bwa kiyosike, kagizwe n'ibara ry'umutuku hose, n'ibirango bya eyateli, gusa ko karafunzem aho turimo turarebera. Imbere yako haragaragara umuntu wicaye kandi wambaye umwenda uciye bugufi, y'umuhondo. Hirya mu ntera haragaragara abantu ndetse n'imodoka y'umweru.

Icyapa kigizwe n'iabara ry'umuhondo cyerekana uburyo umuntu yishyura akoresheje terefone, cyatsitseho cyandikishijweho n'amabara y'umukara, agira ati:'' inshyura n amomo peyi. '' Ndetse haragaragara uburyo umuntu akanda ndetse na nimero ngo yishyure, hasi ha gitanga ubutumwa kigaragaza ko nt yandi mafaranga umuntu yishyura iyo akoresheje iyi serivise.

Iyi ni kiyosike cyangwa se mini shopu, ni akazu gatanga serivise za mobayiro mane ndetse n'izindi za emutiyeni zitandukanye. Kagaragaraho ibara ry'umuhondo hamwe n'ikirangantego cya emutiyeni hejuru, hariho abantu bane bigaragara y'uko barimo barashaka serivise zitandukanye za emutiyeni. Abandi barahagaze bategereje ko igihe cyabo nabo kigeraho.

Ahagaragara akazu gato k'ubucuruzi kazwi mu izina rya kiyoske kagizwe n'ibara ry'umuhondo ndetse n'ibirango bya mtn hagaragaramo abantu babiri mo indani ndetse n'umugabo umwe wambaye ikote ry'umukara uri kureba iburyo usa nk'uhagaze mu idirishya riri mu ruhande rw'iburyo asa nuwaje gushaka serivise kuri ako kazu. Inyuma yaho haragaragara abandi bantu gusa barimo baritambukira .

Umugabo wishimye kandi wicaye ku igare wazamuye akaboko k'iburyo akazamura agatoki kumwe yambaye umupira w'umuhondo uriho ibirango bya emutiyeni, imbere handitse atigura pake bando utsinde bigaragara ko ashobora kuba yatsindiye nk'igare inyuma yiwe hari umutaka ufunguye nawo uriho ibirango bya emutiyeni ndetse uriho n'abantu benshi bari kumureba.

Icyapa cyerekana uburyo bwo kwishyura ku ikoranabuhanga uciye kuri telefone, kirimo ibara ry'umuhondo n'umweru, kigizwe n'izina ry'umucuruzi ndetse na nimero na nimero zekana inzira umuntu ashobora kuba yaca yishyura, icyo cyapa kandi kiriho ibirango bya emutiyene, kandi hasi gitanga ubutumwa buvuga uti nta yandi mafaranga wishyuza iyo ukoresheje iyo serivisi.

Ahantu hagaragara nkahashinzeakazu gatoya k'ubucuruzi karimo ibara ry'umuhondo kazwi mu bwoko bwa kiyosiki kanditseho amagambo ati 'send money' mo imbere haragaragaramo umuntu usa ku ruhande rw'ibumoso ndetse n'umuntu usa nuri gutambuka ajya kuruhande rw'iburyo wambaye ishati y'icyatsi mu ntera kandi hagaragara umuntu wambaye umupira w'umuhondo ndetsen'ibiti hakurya n'imodoka itagaragara neza.

Imbere yacu turahabona ishusho y'akabari keza cyane karimo umuntu tutabashije kumenya uwo ari we. Harimo amayoga ndetse n'intebe zo kwicaraho, bigaragara ko aho hantu ari ahagenewe gucuruza ayo mayoga.

Abantu babiri bari kuganira imbere y' ahantu hari urukuta rw'umuhondo, rwanditseho amagambo. Umuntu umwe yambaye umupira w'umukara kandi afashe igare; mu gihe undi muntu yambaye umupira w'umuhondo, afashe terefone mu ntoki. Ku rukuta rw'umuhondo handitse amagambo agira ati: " Ukurikize amabwiriza." Hasi, hari hashi tage ya bi momo ariko itagaragara neza. Uyu mwanya usa nk'uwo kwamamaza igikorwa cyangwa se kumenyekanisha serivisi ya momo.

Akazu gato k'ubucuruzi kari mu bwoko bwa kioske kagizwe n'ibara ry'umuhondo hose gafunguye amadirishya abiri, mo imbere harimo umuntu wicaye yambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse n'ijire y'umuhondo igaragaza yuko ari muri ako kazi, ku ruhande rwiwe hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu ndetse n'ikoboyi y'ubururu terefone y'umukara mu biganza ari kuyirebamo yambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero y'umukara bigaragara ko yaje gushaka serivisi za MTN.

Abantu babiri basa nk'abururutse ku mapikipiki, uri ibumoso wambaye umupira w'umuhondo ari kwishyura umumotari biciye ku murongo w'itumanaho, undi uri iburyo nawe wambaye umupira w'icyatsi n'ikabutura y'umukara ari kwishyura umumotari nawe akoresheje intoki, bose bambaye udupfukamunwa tw'umuhondo.

Aha ni ahantu h'icyuma cya Emutiyeni Rwanda, ni mu imurikagurishwa. Ahantu hakozwe mu ibara ryiganjemo umuhondo na ricyeya ryirabura. Hamwe n'ibirango bya Emutiyeni byerekana neza ko ari ku iguriro rya Emutiyeni. Kandi hanadiste n'andi magambo yamamza interineti ya fogi, kandi anasaba abakiriya kuyiyegereza mu imurikagurishwa. Hakurya hari gutambuka abantu bagana mu yandi maguriro.

Mituweli ni nziza cyane ni ubwisungane mu kwivuza uko bavuga, rero ibi ngibi ni gahunda ya leta ifasha umuntu wese kuba yakivuriza ku mafaranga makeya mu ubushobozi bwe uko bungana, cyane ko muri iyi minsi byabaye akarusho, hagiye mo n'ibintu byinshi, gutanga impyiko, kuvura kanseri n'ibindi.

Abantu batatu basa nk'abari kuganira babiri bari kurebana n'undi umwe arikureba kuruhande ew'ibumoso ndetse anahetse isakoshi y'umukara kurutugu, undi umwe ari mukazu gasa nk'akubucuruzi kari mu bwoko bwa kiyosike kagizwe n'ibara ry'umuhondo abantu bose basa nkaho bari kuganira.

Umugore uhagaze imbere y'ikibaho cya emutiyene cyanditse mu magambo yo kumenyesha iyo serivise ya emutiyene. Hariho ibirango byayo n'amabwiriza yo gukoresha uwo murongo inyuma hari imodoka, abantu bafite ibikoresho byo gufata amajwi n'amashusho bigaragra ko ari nk'igikorwa cyo kwamamaza.

Abantu babairi bagaragara tuko bagiye gushaka serivise zitandukanye buri umwe ari ku kazu ke ni utuzu tubiri tw'ubucuruzi ndetse tugizwe n'amabara atandukanye akazu ka mbere kagizwe n'ibara ry'umutuku n'ibirango bya eyeteli mani aka kabiri kagizwa n'ibara ry'umuhondo ndetse n'ibyapa biriho biri imbere.

Hagaragara inyubako, imbere y'iyo nyubako hari akazu gatoya gashinzwe cyangwa se gakoreramo ubucuruzi kazwi nko ku izina rya kiyosike, kagizwe n'ibara ry'umuhondo ndetse n'ibirango bya emutiyeni, harimo umuntu wambaye itaburiya y'umuhondo ndetse n'ingofero, gusa imbere y'uwo muntu hari umuntu urimo uramugana.

Iduka ry'ubucuruzi rigizwe n'ibirango bya metiyeni ndetse n'amabara y'umweru yivanzemo n'umuhondo n'abantu bambaye imipira y'imihondo iririho ibirango bya emutiyeni, ku meza bariho hashushanyijeho amatelefoni atatu n'butumwa bwanditseho ati wikwisondeka kandi kuri ayo haragaragaraho umuntu usa nkaho aje gushaka iyo serivisi.

Ahantu hagaragara k'umuhanda hari akazu k'ubucuruzi gatoya kari mu bwoko bwa kiyosiki kagizwe n'amabara y'umuhondo ndetse n'amagambo yandikishije umukara, ndetse n'ibirango bya mtn gafunguye amadirishya mo imbere harimo umugabo wambaye umupira w'umweru, hanze harutwana dutatu ndetse n'abandi bantu bo hirya mu ntera bagaragaza.

Akazu gatoya k'ubucuruzi kazwi nk'ubwoko bwa kiyosike, kagizwe n'ibara ry'umuhondo ndetse n'ibirango bya emutiyene. Gafunguye amadirishya atatu mo imbere hagaragaramo umuntu uhagazemo usa nk'uri kwandika ufite igitabo n'ikaramu. Hirya yiwe mu kuboko kwiwe kw'iburyo haragaragara undi muntu wambaye umupira w'umutuku usa nk'uri kumuvugisha.

Akazu gato k'ubucuruzwa kazwi nka kiyosiki, kagizwe n'ibara ry'umuhondo. Icyapa kiriho Cyanyandikijweho n'amagambo Y'ibara ry'umukara, ariho ibirango bya mokash na mobile money. Ndetse n'inzira wanyuramo kugirango ngo ugere muri ako kazu. Akaduka gasa n'agafunze ariko amadirishya yako arafunguye, gusa nta muntu urimo ugaragara, inyuma yaho hari igikuta cy'umuhondo.

Akazu gatoya k'ubucuruzi kari mubwoko bwa kiyosike kagizwe n'amabara y'umuhondo ndetse n'ibirango bya emutiyene, haragaragaramo umuntu ufite igitabo ndetse n'ikaramu uri kwandika, iruhande rwe rw'iburyo hari undi muntu bari kuvugana wambaye umupira w'umutuku ndetse inyuma ye hari ibyapa bibiri biri muri ako kazu kimwe cy'umuhondo n'ikindi cy'umutuku gusa ntibigaragara kuko byandikishijwe amagambo mato.

Aha hagaragaramo hagati mu isisiro ry'umuhanda hari umutaka ugizwe n'amabara y'umuhondo ukikijwe n'ibirango bya emutiyene, emutiyene niya sosiyete itanga serivise y'itumanaho m'U Rwanda, hagati harimo abagabo babiri basa nkaho baje gusaba serivise za emutiyeni biragaragara ko ukorera aho ari umu ejenti wa emutiyeni.

Abantu batatu bari imbere ya kiyosike itukura cyangwa se akazu k'umutuku gafite ibirango bya "airtel" bikaba bishoboka ko ari kiyosike ya serivise za "airtel mani", umugabo wambaye ishati y'umweru ari kumwenyura agirana ikiganiro n'undi mugabo ndetse hamwe n'umutegarugori, aba bantu basa nkaho bari mu bwumvikane cyangwa bishimira igikorwa runaka cyabereye aho kuri iyo kiyosike, inyuma hagaragara utuntu dutukura tw'iyo kiyosike n'ibindi bikoresho bikeya.

Akazu gatoya k'umuhondo gafite ikirango cya MTN, ako kazu gatoya kanditseho amagambo agira ati MobileMoney, easy load, phone and accessories, internet connection, hari umugabo wunamye ku dirishya ry'ako ga kioske bishobora kuba ari kuvugana n'uri imbere cyangwa uri gukora igikorwa by'ubucuruzi, ako kazu gatoya k'ubucuruzi kari ahantu hanze inyuma hagaragara ibimera, hagaragara nk'ahatangirwa serivisi aho usanga abaturage benshi bahererwa serivisi z'imari no guhuza abantu binyuze mu ikoranabuhanga.

Ikiganza cy'umuntu bigaragara yuko yicaye gifite telefone igendanwa irimo porogaramu ya momo ifite ibara ry'ubururu uwo muntu arimo yinjiza umubare wa pini kuri urwo rubuga rwitwa momo.

Akapa kamamaza kariho ibirango bya emutiyeni ndetse kagizwe n'ibara ry'umuhondo kandikishijweho n'amagambo y'umukara, karambitse ku meza isa nk'ivu, iyo meza nayo iriho igipapuro cy'umweru nacyo gishushanyijeho andi magambo. Aho hantu hasa neza nk'ahantu hatuje kandi hasukuye.

Abantu babiri basa nkaho bari kuganira umwe asa nkuwaje gushaka serivise undi ari imbere ya mudasobwa ndetse yambaye umupira w'umuhondo uriho ikirango cya MTN ndetse inyuma ye ku gikuta haragaragara ibyapa bisa nkibimanitse ku gikuta biriho ibirango bya MTN.

Aha n'ahantu hahuriye abantu benshi hagaragara umukobwa wicaye kuntebe imbere ye hari ameza ateretseho amazi ndetse afite ikaramu muntoki n'agatabo arikwandika ashobora kuba arimo arandika aba bantu cyangwa se arimo arabaha serivisi hirya yabo hari ibiti ndetse nibimera ndetse nundi mutaka cyangwa se indi tente ijya gusa ubururu

Akazi k'ubucuruzi gatoya kari mu bwoko bwa kiyosike kagizwe n'ibara ry'umuhondo hose ndetse n'ibirango bya emutiyeni n'ibindi byapa byinshi bitandukanye bigaragaza cyangwa se byerekana yuko ahangaha hatangirwa serivisi z'ubucuruzi. Gusa harafunze nta muntu uhari kumpande kumpande cyangwa se mu ntera z'akazu hari hari ibimera no hirya hari imodoka gusa ntigaragara neza.

Abantu babiri basa nk'abarikugirana ibiganiro, umwe yicaye mu modoka undi ahahagaze hanze y'imodoka, uhagaze hanze y'imodoka yambaye umupira w'umuhondo, wanditaeho ibirango bya momo ndetse n'amagambo yadiste ati peyi wivu momo uri mu modoka yicaye mu modoka y'umukara ndetse nayo iriho akapa gatoya kagizwe n'ibara ry'umuhondo nako kariho ibirango bya momo n'inzira wanyuramo ya momo, ndetse ku imodoka hariho ikirango cy'icupa rinini ry'umweru ryanditseho finiranda.

Umutegarugori uvuye guhaha akaba anyuze aho abandi bari bigaragara yuko abo anyuzeho ari abakozi ba emutiyeni kubera yuko basanzwe bambaye imyenda iranga ibirango byabo kandi n'inyuma hakaba hari ikirango cya emutiyeni kitwa ngo peyi wivu momo.

Ahantu hitaruye hasa nk'ahabereye imurikagurisha hari ameza n'umutaka bifatanye biri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu, harimo n'imbere abantu babiri bambaye imipira ibiri y'imihondo iriho ndetse n'ibirango bisa nkaho barimo baramamaza serivisi ya momo.

Akazu k'ubucuruzi kari ahantu hitaruye kari mu bwoko bwa kiyosye kgizwe n'ibara ry'umuhondo ndetse n'ibirango bya mtn. Kanditseho amagambo agira ati:" mobayiromani tarasifa mtn. '' Imbere haragaragaraho umuntu usa nk'umutegarugori usa n'uwagiye gushaka serivise aho hantu. Hirya mu ntera hari ibiti ndetse n'amazu.

Gukoresha uburyo bwo hutimiza ibyo waguze bigira akamaro kanini cyane: harimo gukwirakwiza ibicuruzwa mu bice byose, harimo kongera ikoranabuhanga. Kuko gutumiza ibyo waguze, bifasha n'ikoranabuhanga nk'uburyo bwa telefoni cyangwa porogame, bigafasha abakiriya kumenya ibyo bakeneye nta mbogamizi. Kandi bishobora gushyigikira ubucuruzi bw'abakora ibintu bigiye bitandukanye, nk'uruge ro vuba. Waba ushaka amakuru arambuye ku kigo runaka cy'izi serivisi cyangwa uko bigenda? Hano turimo turabona uburyo ushobora kugura imyenda y'abagore, cyangwa se imyenda y'abana, ukoresheje ikoranabuhanga.

Abategarugori babiri basa n'abari kumwenyura bambaye imipira y'imihondo ndetse n'amakarita yerekana amazina yabo ari mu ibara ry'umweru. Imipira bambaye y'imihondo igaragazaho ibirango bya emutiyeni ndetse n'ikirango cya momo. Inyuma yabo hari igikuta cy'umuhondo, hirya hari igikarita cyamamaza cyanditseho kora simuswapu y'ubuntu. Muryoherwa na jiga mu minsi irindwi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ahagaze ku kazu k'umuhondo kagenewe gucururizwamo itumanaho arimo araganira n'umuntu urimo imbere muri ako kazu. Ako kazu kagaragaramo ibimenyetso byinshi n'amapositeri cyane cyane y'icyasi hamwe n'amagambo na kipoyo na simelidirasiyo dani heli bisa nkaho aho hantu ari ahantu ho gutangirwa serivisi z'itumanaho cyangwa kwandika simukadi. Inyuma y'iyo foto hagaragaramo ibimera ndetse n'indi nzu iri ahantu hatagaragara neza cyane.

Akavuyo k'abantu bari mu iduka hari abantu benshi bahagaze hafi y'akameza k'aho bishyuriye ibicuruzwa kuko hari ibintu bitandukanye birimo monita ya mudasobwa porogaramu y'ikoranabuhanga umwe uri gufata ambaralage y'icyatsi kibisi bishoboka ko irimo ibicuruzwa amaze kugura ku muryango w'icyapa cyanditseho payi wivi momo gihatse amabwiriza yo gukoresha momo payi iduka risa n'iryuzuye ibicuruzwa bitandukanye bigaragara paka n'inyuma.

Abantu bari kumwe umwe afite terefoni ngendanwa mu ntoki, w'umudamu wambaye imyenda y'ubururu y'akazi n'undi wambaye imyanda igizwe n'amabara y'umuhondo ndetse n'ibirango bya mtn momo. Inyuma yabo haragaragara abana ariko batagaragara neza, uwo muntu asa nuri kumwerekera ubuko bwa serivise ya momo uko ikora.

Iyi ni ifishi cyangwa icyapa kerekana amakuru y'umucuruzi aho hagaragaraho izina ry'ubucuruzi cyangwa kompanyi ndetse na nimero y'indanga yihariwe yahariwe umucuruzi mu bigendanye n'ubucuruzi cyangwa serivise zihariye atanga, iyi fishi ikoreshwa mu buryo bwo kumenyekanisha umucuruzi byaba mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa mu bufatanye bw'ubucuruzi.

Ikimenyetso ndanga cyerekana amakuru yerekeye serivise yo kwishyura hakoreshejwe telefone igendanwa yitwa momo peyi. Kirimo kode yo gukoresha iyo serivize ndetse n'ubutumwa bwerekana ko nta mafaranga y'inyongera ashyirwaho. Hariho kandi inyanddiko yanditse n'intoki hasi, y'ikimentetsi, ivuga ngo Seresite duzayini.

Abantu bari hamwe munsi y'umutaka , umutaka ugizwe nibara ry'umuhondo ndetse n'ibirango bya MTN,batatu murabo bambaye amajire nayo agizwe n'ibirango bya MTN ndetse nibara ry'umuhondo. Ahantu bari barahantu hameze nko mu muhanda kuko hagizwe nama modoka arimo aragenda hirya no hino muntera z'aho abantu bari.

Umuntu wicaye afite igitabo gifunguye imbere ye ari mu kazu k'ubucuruzi gatoya karimo ubwoko bwa kiyosiki ku rukuta rw'inyuma haragaragara iposita, cyangwa se icyapa cyanditseho mtn mobile mone reti igaragaza ibiciro n'amatangazo y'ibikorwa bya mobile mone, ariko amagambo ariko ntasomeka neza, kuko ari mato aho hantu hasa nk'ahatangirwa serivisi za mobile mone kandi hanze haragaragara igiti kinini.

Ikarita y'umuhondo irimo amagambo agira ati"payi wivi momo payi" (pay with momo pay) hamwe n'amabwiriza yo guhamagara *165*# kugirango ukoreshe iyi serivisi. Iyi karita igaragaza umubare w'umucuruzi 108413 ikarita yashyirwe hejuru yag'apapuro cyangwa urupapuro rw'amamaza ruri mu nyandiko n'amafoto atandukanye hari mu kirango cy'umuzinyi gifite 2018 mw'ibara ry'icyatsi n'umuhondo hamwe n'amagambo fri ( free)25,000rwf agaragara ku gice cyo hepfo.

Uyu mugabo ari mu iguriro rya emutiyeni aho bigaragara yuko ari kumwe n'abakozi ba emutiyeni bari kumufasha kuba bamusobanurira bimwe mu bicuruzwa basanzwe bacuruza muri iryo guriro biragaragara yuko kandi koko ko ari aba emutiyeni kubera y'uko bambaye imipira igaragaza ibirango bya emutiyeni.

urukuta rugizwe nibara ry'umuhondo ruriho amtangazo atandukanye harimo iryamamaza uburyo bwo kugura pake cyangwa se bando ugatsindira ibihembo n'irindi rivuga ibyerekeye n'umutekano cctv n'igice kishusho byumugore n'umwana bagaragaje ibyishimo.

Ikiganza cy'umuntu gifite terefone igendanwa, mu kirrahuri cy'iyo terefoni hagaragaramo ibara ry'umuhondo, ndetse bigaragara ko yari yinjiye nko muri porogaramu cyangwa apurikasiyo y'itumanaho, gusa barimo baramusaba gusubira inyuma akandika neza imibare isabwa kwandika izwi nka "pin".

Ahantu hashinzwe amahema cyangwa imitaka igaragaraho ibirango bya eyateri igizwe n'ibara ry'umutuku, agizwe n'icyapa gishushanyijeho inka ndetse n'abantu bambaye imyenda y'umutuku ndetse n'abandi bantu basa nk'abari gusobanuza serivise zaho hantu.

Ahantu hahurira abantu benshi bigaragara yuka baba bagiye gushaka serivise, haragaragara amatente ndetse n'akazu, akazu k'ubucuruzi gatoya kazwi nk'ubwoko bwa kiyosike kagizwe n'ibara ry'umuhondo ndetse n'ibirango bya emutiyene. Hgaragaraho abantu batatu basa nk'abagiye gushaka serivise kuri ako kazu. Bashobora kuba bagiye gushaka serivise z'itumanaho.

Aha ni hamwe mu hahurira sosiyete yitwa Eyateli, isanzwe ikorera mu Rwanda, ikaba isanzwe ikora ibigendanye n'itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga, aha, biragaragara yuko ari kimwe mu kicaro bafite, biragaragazwa n'ibyapa byabo biriho, ndetse n'umukobwa wicaye imbere witeguye gufasha umugana.

Akapa gatoya gashinze cyangwa se gahagaze gahagaze gasa umuhondo kandi Handikishijweho amagambo agira ati: peyi wivu momo peyi Kagaragaraho imibare umuntu ashobora kuba yakanda kugirango yishyure koko aciye kuri momo peyi, Ndetse kandi kagaragaza yuko uramutse wishyuye nta kiguzi.

Abantu batandukanye bagaragara nk'abatonze umurongo cyangwa se nk'abategereje serivise, ahantu ku kazu k'umuhondo kari mu bwoko bwa kiyosike kagizwe n'ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibirango bya mtn, aho hantu mo imbere harrimo umuhungu wicaye usa nkuri kwakira abo abantu, hirya y'aho hantu hari ibimera ndetse n'amazu atagaragara neza.

Abantu babiri bambaye imipira y'umuhondo iriho ibirango bya MTN bivuga peyi wivi momo(pay with momo) basa nkaho bari kuri sitasiyo itanga esanse. Kuri iyo sitasiyo hari icyuma kimashini gitanga esanse , hejuru hari icyapa kerekana ndetse kemeza iyo serivise kinerekana inzira wanyuramo wishyura. Hari umu motari w'ipikipiki barimo baraganiriza basa nkaho bari kumusobanurira iyo serivise.

Ahantu hasa nk'ahatangirwa serivisi hagaragara abantu babiri bahagaze n'undi umwe wicaye usa nkutegereje hirya y'ameza hariyo umudamu wicaye usa nkureba muri mudasobwa yambaye imyenda y'imikara inyuma yiwe hari igikuta cy'umweru cyishushanyijeho imiturirwa ndetse n'amagambo yandikishijwe mu mu mubara ry'umukara tu opotunitizi, hariho na televiziyo iteye mu gikuta igaragaza ibara ry'umuhondo ndetse n'indege z'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

mUuguzi n'umucuruzi bahurira bakaganira ku bijyanye n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, umuguzi akagabanyirixwa agera kuri mirongo itatu ku ijana, bakaba babimugezaho ku buntu ndetse bikaba byizewe.

Abakozi benshi bambaye imipira y'impuzankano z'umuhondo n'umweru zifite uturango twa MTN bari inyuma yameza y'ibikoresho aho bari imbere yaza mudasobwa hari ibimenyetso biri kuri ayo meza byerekana serivise zitangwa aho nka sim swap na servise support abakiriya bahagaze kuruhande rwa meza baraganira n'abakozi ikindi kiboneka ni inshusho y'uburyo serivise z'abakiriya zitangwa mu buryo bwa kinyamwuga.

Ahantu hanze hasa nk'ahabereye imurikagurishwa hari aga tente kagizwe n'ibara ry'umuhondo cyangwa se ihema rigizwe n'ibara ry'umuhondo kandi rikaba rigizwe n'ibirango bya Emutiyeni ndetse n'amagambo y'umutuku n'ay'umukara yanditseho avuga ati kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego winjire ukoreshe umurongo, imbere ku muryango haragaragara abantu benshi cyane basa nk'abari kubaza iyo serivisi, hirya hari indi mitaka isa nkaho cyangwa se andi mahema asa ubururu ariho ikirango cya Tekino.

Ifoto igaragaramo abantu barenze umwe gusa imbere iratwereka abantu babiri umwe wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero byose biriho ibirango bya emutiyene ndetse kandi binanditseho peyi wifu momo n'umuntu ufite terefone ngendanwa arimo arayerekana ndetse afite igipfunyika kiriho umugabo ushushanyijeho bigaragaza ko hari icyo yari amaze kugura aho hantu.

Ahantu hashinzwe amahema y'imihondo, ayo mahema y'imihondo afite ibirango bya Emutiyeni ndetse n'abakozi baho bambaye imyenda iriho ibirango bya Emutiyeni. Ku kazu ka mbere kagaragaraho abantu bane abakozi batatu bambaye imyenda isa iriho ibirango bya Emutiyeni n'umukiriya usa nkurimo arabaka serivisi ndetse hirya hagaragara naho abantu babiri, umukozi wa Emutiyeni wambaye umupira wa Emutiyeni ndetse n'undi mukiriya wambaye ipantaro y'ubururu n'agapira k'umuhondo usa nk'uwaje gushaka serivisi.

Akazu gatoya k'ubucuruzi kari mu bwoko bwa kiyosike, kagizwe n'ibara ry'umuhondo kafunguye umuryango, umuryango ukaba uriho ibyapa biranga iyo serivisi itangwa ahongaho, ndetse n'idirishya rifunguye ririho ibirango bya emutiyeni, mo indani harimo umukobwa wicaye ku ntebe ya plasitiki y'umuhondo, ndetse no ku gikuta cyo kuriyo cya ko gakiyosike, hariho icyapa cy'umuhondo gitanga cyangwa se cyamamaza serivisi batanga aho ngaho.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya bigaragara ko bishimye cyane, bigaragara ko ari igikorwa cyari cyabahuje cyabashimishije; bose bari mu mipira y'ibara ry'imihondo ndetse igizwe'ibirango bya MTN, inyuma hari umutaka, umutaka nawe uzamuye ndetse unafunguye urimo abantu, umutaka na ugizwe n'umuhodo n'ibirango bya MTN.

Ahantu hagizwe n'abantu batatu, babiri bambaye imipira isa ndetse iriho ibirango nya Emutiyeni. Bari imbere y'ameza ndetse na mudasobw, imbere yabo hari umuntu umeze nk'umukiriya wabagannye, wambaye umupira w'umweru ndetse uhetse isakoshe y'umukara. Asa nk'aho arimo arabavugisha, asa nk'ubaka serivisi bamusobanurira.

Umutwazo utwara ibicuruzwa bigemurwa ku ipikipiki ari kwakira amafaranga ku muntuntu wambaye ijacketi y'umuhondo n'umupira w'umutuku ufite ikirango cya Airtel, agasanduku k'ibicuruzwa kuri moto kandiditseho Rush Food kandi kagaragaza urubuga rwabo na porogaramu yabo, mu ntera hagaragara umuhanda n'ibiti.

Akazu gato k'ubucuruzi kari mu bwoko bwa kiyosike gasize ibara ry'umuhondo hose gusa kagizwe n'ibirango bya MTN ndetse n'amagambo yanikishijweho y'umukara, gusa karafunguye, gafunguye amadirishya abiri kandi nta muntu ukarimo, hirya yaho hari umuryango ufunguye ndetse n'ipoto riri ku ruhande rizamuye, n'umuntu uri gutambuka gusa utagaragara.

Iki ni kimwe mu byapa byamamaza kandi bikamamaza ibikorwa na serivisi runaka z'ibigo ziba zikora. Iki cyapa rero kiri kwamamaza kinatanga ubutumwa ku bakiriya babo ko batagomba kwisondeka bagura ibicuruzwa. Iki ni icyapa cyometse ku gasanduku, bigaragara ko ari agasanduki n'ubundi kari gafunze, baraza bashyiraho n'ubundi cya cyapa cyomekwa.

Aba ni abagenzi babiri b'abagabo bari bateze ibinyabiziga biri mu bwoko bw'ipikipiki, biragaragara ko bari bageze aho bagombaga kugera umwe arimo aragerageza kwishyura ku mafaranga undi arimo aragerageza kwishyura biciye muburyo by'itumanaho kuri terefone. Ikindi kigaragara nuko ari abagenzi babiri bambaye udupfukamunwa hari nama motari babiri cyangwa se abashoferi bambaye udupfukamunwa.

Abantu batatu bari ahantu bakorera serivisi z'abakire cyangwa z'ubucuruzi mu ntera rukuta rw'amabara yombi rwivanzemo ibara ry'umuhondo cyane n'ibyapa bibiri byamamaza mtn data bandozi, umuntu uba ufite ibara ryera wambaye ishati y'umweru, ifite uturongo tw'umuhondo n'ikimenyetso k'izina afashe agatebo gafite ibishushanyu by'icyatsi n'umweru, undi muntu wambaye umupira wa mtn w'umuhondo yicaye ku ameza, afite mudasobwa umuntu wa gatatu ufite isura igaragara gake ari gukora muri ako gatebo.

Abakobwa batatu bafatanye basa nk'abihagaritse kugira ngo bafate ifoto, umwe wambaye umupira uriho ikirango cya momo abandi bambaye imipira isa y'umuhondo, inyuma yabo hari imitaka imanitse cyangwa se ishinze nk'amatente y'ubururu iriho ibirango nka pirimusi n'undi mutaka uriho ikirango nka momo.

Umusore ugaragara uri mu kazu kagenewe ubucuruzi gatoya. Kari mu bwoko bwa kiyosike kagizwe n'ibara ry'umuhondo. Ari kwandika afite ikaramu ndetse n'agakayi imbere ye, mu kuboko kw'i bumoso ari kwakira cyangwa se guhereza amafaranga umukobwa uri imbere y'iwe. Hirya hari amazu atagaragara neza ndetse n'ibimera .

Akazu gatoya k'ubucuruzi MTN kagizwe n'ibara ry'umuhondo kazwi mu bwoko bwa kiyosike, gafunguye amadirishya ku mpande eshatu ndetse karimo umuntu ufite ikayi n'ikaramu uri kwandika, ku ruhande rwiwe rw'iburyo hari umuntu wambaye umupira w'umutuku usa n'urikumuvugisha, hirya yabo haragaragara igiti ndetse n'igikuta.

Abantu babiri bahagaze ku modoka y'umukara, umwe wambaye umupira w'umuhondo ugizwe n'ikora ry'ubururu ndetse n'ingofero bisa, iyo myenda igizwe n'ibirango bya MTN kandi handitse ati: "Pay with momo it's easy". Inyuma y'abo bantu hari imodoka ndetse n'inzu itagaragara neza ndetse ifite icyapa na cyo kitagaragara neza

Abantu babiri bari kuganira umwe yicaye mu kazu k'ubucuruzi kazwi mu bwoko bwa kiyosike gasa umuhondo ndetse kariho ibirango bya emutiyene. Ndetse ari kumwe n'umugabo wambaye ishati yubururu n'ipantaro y'umukara, bari kuganira basa nkabaganira ibigendanye na serivise. Inyuma ye ku kazu haragaragara ibimera ndetse n'inzu iri hakurya itagaragara neza.

Ahantu hanze hashinzwe akazu ko kwamamaza ka eyateri gafite ihema ritukura ririho ikirango cya eyateri, harabakozi bambaye imyenda itukura bari kuganira nabandi bantu, kumeza yashyizweho impapuro zabamamaza serivise za eyateri kuruhande rw'iburyo hari icyapa kinini kigaragaza serivise za wyateri ahantu habereye ikigikorwa.

Aha ni mu isoko ahatangirwa serivisi ndetse hanacururizwa n'ibindi bicuruzwa byinshi bitandukanye, hejuru haragaragara igisenge ndetse n'igiti kimanitseho icyapa cy'umuhondo, kiriho ikirango cya emutiyeni ndetse n'uburyo umuntu ashobora kuba yakwishyura anyuze muri ubwo buryo bwa emutiyene, hasi haragaragara ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'imbuto zitandukanye.

Abantu babiri bagaragara nk'abari kuganira, umukobwa wambaye umupira w'umuhondo wandikishijweho amagambo yumukara ndetse n' umuhungu wambaye umupira w'icyatsi n'akagofero, inyuma yabo haragaragara akazu k'ubucuruzi gato kari mu bwoko bwa kiyosike, kagizwe n'mabara y'muhondo ndetse n'ibirango bya emutiyene, inyuma yo ku kazu nako hari urukuta runini na rwo ruri mu ibara ry'umuhondo.

Umugabo wicaye mu intebe y'umukara imbere ye hari ameza hanyuma arimo arasoma igitamo hanyuma ruguru ye harimo haragaragara nk'ibintu birigusa nk'ibicuruzwa biragaragara ko ari mu iduka kandi arigucuruza ariko mugihe adafite umukiriya ashobora kuba yafata igitabo cye agasoma akaba arimo kwiyungura ubwenge nibyiza gusoma mri ubu buzima tubikunde banyarwanda.

Ahantu ku muhanda hashinze imitaka ibiri umwe w'umuhondo n'undi w'umutuku gusa uw'umuhonda uragaragaramo ibirango bya emutiyeni ndetse n'umuntu wicaye munsi yawo wambaye ijiri ya emutiyeni ndetse n'ishati ari guhereza umuntu serivise usa n'uwamugannye uri kumwaka serivise arimo aramuha telefone ngendanwa. Hakurya yaho haragaragara abandi bantu barimo baraganira mbese bari munsi y'umutaka w'umutuku.

Akazu gato gakorerwamo ubucuruzi kazwi mu bwoko bwa kiyosiki kagizwe n'ibara ry'umutuku ndetse n'ibirango bya airtel money, handikishijweho kandi n'andi n'imibareyobora ibwira abantu uburyo bashobora kubaba inzira banyuramo kugirango babe bakinjira muri uwo muyoboro wa airtel money. Ako kazu kandi gafite n'ibindi byapa byinshi biriho na airtel four G, inyuma yako hari ibimera ndetse n'ibindi bintu bitagaragara neza.

Abagabo babiri bahagaze i ruhande rw'akazu gasize ibara ry'umuhondo k'ubucuruzi kagizwe n'ibirango bya emutiyeni ndetse handitse hati bayi endi regisita yuwa emutiyeni simu, ni abagabo babiri umwe yambaye imyenda miremire ikanzu y'ubururu ingofero y'umweru ndetse n'isakoshi y'umukara n'undi mugabo wambaye ishati y'umukara, ishati y'amaboko magufi na terefone mu ntoki, bigaragara ko ari abantu baje gushaka serivisi y'uwo murongo w'itumanaho.

Abantu babiri basa nk'abaganira umwe arasa nk'umukiriya undi arasa nk'utanga serivise ikibikubwira ni uwo mupira yambaye w'umuhondo uriho ikirango cya MTN, yicaye imbere ya mudasobwa ndetse n'imbere y'ameza imbere ye hariho ikaramu ndetse n'igitabo inyuma yiwe ku gikuta hariho utwapa, hariho ibyapa byegetse ku gikuta biriho ibirango bya MTN.

Abasore babiri basa nkabari kubyina inyuma yabo hari undi mukobwa usa nkufite mikoro ndetse akaba yambaye n'umupira w'umweru ufite nikora y'umuhondo ndetse n'undi, n'undi muntu wambaye umupira w'umuhondo ariko agaragara igice, inyuma hari ibyapa bigizwe nama n'ibirango bya emutiyene, ndetse nikindi cyapa kigizwe n'ibara ry'umu rya oranje cyandikishijwe mu mw'ibara ry'umweru ati iyizihirwe wivi yoro, ndetse haragaragara indangururamajwi ya yamikoro.

Ahantu hameze nk'ahataangirwa cyangwa havomerwa esansi haragaragara abantu batatu nimodoka hagati yabo. Haragaragara umukobwa wambaye umupira w'umuhondo ugizwe n'ikirango cya emutiyene ku kuboko ndetse ufite n'impapuro mu ntoki. Hagati hari umugabo wambaye ikabutura y'ubururu ndetse n'umupira w'ivu afite na terefone muntoki yambaye na rinete . ku rundi ruhande rw'iwe rw'ibumoso haragaragara umuhungu wambaye umupira w'umutuku ku rundi ruhande rw'iwe rw'ibumoso haragaragara umuhungu wambaye umupira w'umutuku ndetse inyuma yabo hari imashini ishinzwe kuvoma esansi.

mbi ikirahuri kigaragaza le ya telefoni y'we igaragaza ubutumwa busaba kunyuza umubare w'ibanga w'igihe gito ubutumwa buri ku kirahuri ikigo kigaragaza cya telefoni bugira buti binjiza ubutifazwa koje umubare w'ibanga wa nimero esheshatu kuri akanyenyeri akanyenyeri akanyenyeri akanyenyeri mirongo ine na rimwe zero gatandatu uwo muntu ari gukoresha clavieter yi ibabarurisha ku kirahu cy'buye cya telefone ngo yingizeze uwo mubare w'ibanga ubu ni uburyo bwo kwirinda bukoreshwa mu bikorwa byo kwemeza umutekano mu ikoranabuhanga.

Akazu gatoya k'umuhondo gacururizwamo kari mu bwoko bwa kiyosike kagizwe n'ibara ry'umuhondo ndetse n'ibirango bya emutiyene na emutiyene mobayiro mani, kegamyeho umuntu wambaye agapira ku bururu gusa ntagaragara neza, ukuboko kwe kw'iburyo gufashe telefone kandi iri kugutwi bisa nk'aho ari kuvugana n'umuntu.

Ahantu hagaragara nko mu imurikagurishwa, haragaragara ishami rya emutiyene rigizwe n'ibirango byayo, byanditseho emutiyene momo. Ndetse n'abantu barimo baratambuka iruhande mo imbere hagaragaramo abantu barimo bari inyuma y'ameza, kumeza hariho uturango twa emutiyeni ndetse n'ibindi bikoresho byabo bacuruza.

Icyapa ndanga cyerekana uburyo bwo kwishyura biciye muburyo bwa terefone aribwo momo peyi, cyerekana izina ryuwo bagomba kwishyura, inzira unyura wishyura, ndetse nimibare itagaragara neza kugirango umuntu yishyure, icyo cyapa kiri mu bwoko bw'umuhondo ndetse kigizwe n'ikirango cya emutiyene ariko icyo cyapa ntago kigaragara neza.

Ikiganza cy'umuntu kijigatiye telefone igendanwa,i y'amatushe muri muri taburo yayo hagaragaramo andi agararamo ubururu ndetse handitsemo n'amagamo y'umweru agira ati: shiramo amafaranga. I mbere yiwe hari icyapa cy'umuhondo kiriho ibirango bya emutiyeni, kinanditseho ati: ishyura na momopayi. Bigaragara ko uyu muntu asa nkaho arimo arishyura service runaka.

Ahantu hagaragara nka hatangirwa serivisi y'ubucuruzi, haragaragara abantu batandukanye bamwe bahakora n'abatahakora .Abahakora biragaragara ko bambaye imyenda y'imihondo iriho ibirango bya emutiyene(MTN) ndetse n'ameza ariho amakayi cyangwa ibitabo bya emutiyene (MTN) ,bari imbere ya mudasobwa. Inyuma yabo cyangwa se nyuma y'ameza haragaragara abakiriya cyangwa abandi bantu bambaye bisanzwe basa nkabaje gushaka iyo serivisi.

Abahagarariye emutiyeni hirya no hino mu gihugu, baba bafite aho babarizwa bagaragaza ibirango by'iryo shami bakorera rya emutiyeni, bakagira ibyapa bamanika kugira ngo bigaragaze igiciro umuntu acibwa agiye kohererereza undi amafaranga kandi bakagira n'ikayi bandikamo umwirondoro w'uwaje abagana.

Uno uhagaze ahantu munsi y'isoko cyangwa ahantu hitaruye yambaye umupira w'umuhondo n'itaburiya y'umuhondo rifite ikirango cya MTN ni jambo momo. Kwitaburiya hari amagambo avuga ngo ishyura ukoresheje momo cyangwa ukoresheje*165#.Inyuma hari ibikoresho bitandukanye nk'itebe ,ameza apfutseho parasitike n'ibindi byinshi. Hari kandi udusanduku n'ibikombe biri ku meza bigaragara ko hari ibintu byinshi.

Ahantu hagargara cyane ibirango bya emutiyeni ndetse n'amabara y'ubururu n'umuhondo wiganje, n'abantu benshi bambaye imipira iriho ibirango bya emutiyene, bose basa nkaho bahuze barimo baraganiriza urimo imbere.

Umusore uri mu kazu k'umuhondo gakozwe nka kiyosike serivisi ya emutiyeni mobiro mane. Mo imbere harimo icyapa ndanga cyerekana ibiciro by'iyo serivisi. Ahantu bafotoye hagaragara inyubako n'ibiti inyuma, hamwe n'ubusitani bw'ibimera mu gice cy'icyuma y'ifoto.

Ikiganza gicigatiye icyapa ndetse n'igikoresho gikora imirimo itandukanye y'amaboko, gifitwe n'umucuruzi bigaragara yuko acuruza ariko akaba akikijwe n'imyenda, ari kwerekana icyapa cyangwag se ari gushaka kumanika icyapa kigaragaza uburyo bwo kwishyura bw'ikoranabuhanga biciye mu buryo bwa momo.

Ahantu hateye amahema cyangwa se amatente ari mu bwoko bw'umuhondo. Hahagaze abantu bahakorera, bambaye imipira iriho ibirango bya Emutiyeni, imipira y' imyeru ndetse igizwe n' amakora y' umuhondo. Hari umukiriya usa nk' uri kuvugisha abantu, usa nk'ubabza ibigendanye n' iyi serivisi za Emutiyeni batanga aho hantu.

Umugabo w'ubwanwa uri kumwenyura ufite terefone mu kiganza k'iburyo, ndetse n'ikarita mu kiganza cyiwe cy'ibumoso, ikarita ikaba ariyo kwakira no kwishyura amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga. Hasi y'uwo muntu hari inyanya, hari inyanya z'umutuku, zipanze neza ndetse n'umutaka uri hejuru yazo ufunguye kandi w'umutuku.

Iyi ni ifoto ishusho yerekana ubutumwa kohereza amafaranga kuri telefone hakoreshejwe serivisi yo korezanya amafaranga ibigaragara ko umuntu winjije amakuru y'umuntu witwa Faburise Hakuzimana, ufite nimero ya telefone makumyabiri na gatanu zeru, karindi, umunani, gatandatu, gatanu, kabiri, gatandatu, umunini, umunani, gatatu, naho igiciro cya serivise yo kohereza ni makumyabiri, naho umubare w'amafaranga y'u Rwanda, uwo muntu asabwa umubare w'ibanga kugira ngo yemeze icyo bikorwa harimo amahitamo abiri gusunika cyangwa se kohereza.

Akazu gatoya k'ubucuruzi kagizwe n'amabara y'umuhondo ndetse n'ibirango bya Emutiyeni. Gafunguye amadirishya mu mpande eshatu, mo imbere harimo umuntu. Mu mpande ebyiri hariho abakiriya. Ku ruhande rumwe hariho umukobwa, urimo uravugana n'umukobwa urimo imbere usa nk'aho ari we uracuruza iyo serivisi. Ku rundi ruhande hariho umuhungu wambaye umupira w'umukara wanditseho polisi ekisitara origino, arimo arareba hirya ku ruhande. Bigaragara ko bose baje serivisi z'uwo murongo.

Ikiganza gifashe telefone igendanwa igaragaza ubutumwa bwo kwemeza kwishyura amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi bibiri magana atanu kuri Jean Bosco aho igiciro cyokohereza ari ubusa. Ubwo butumwa buri kugaragara ku kirahure k'iyo iri mu maboko y'umuntu.

Ameza agaragaraho akapa gato ka emutiyene kagizwe n'ibirango bya emutiyene ndetse n'ibara ryumuhondo n'amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umukara, ndetse n'akandi gapfunyika gasa nk'agapfunyitse telefone yanditseho ngo kabode. Aha ngaha hasa nkaho ari mu iduka ricuruza ibintu by'ikoranabuhanga.

Iduka rigaragaramo abantu batandukanye, Kandi iryo duka rikaba rigizwe n'ibirango biri mw'ibara ry'umutuku ryanditseho Airtel mani. Hari abantu bahagaze n'abicaye ndetse n'abakozi aho ngaho , bigaragara ko arahantu ho gutangirwa serivise za Airtel mani.

Umugabo umwe w'umuzungu ari kuvugana n'undi muntu uri inyuma y'icyuma gikingira, aho bisa n'ahantu ho gutanga cyangwa kwakira serivise. Uri imbere yambaye imyenda y'umutuku, ufite ibirango bya kokakora, hari icyerekana ko aba bombi bari kuganira ku kintu cyihariye cyangwa bari mu bikorwa bya serivise z'aho hantu.

Akazu gatoya k'ubucuruzi Kari mu bwoko bwa kiyosike (kioske) gafite ibara ry'umutuku, gusa uko bigaragara karafunze kuruhande rwako rw'imoso hari umutegarugori wambaye akenda gaciye amaboko Kari mu ibara ry'umuhondo afite n'icupa mu ntoki. Hirya y'aho muntera hari imodoka y'umweru iriho abantu basa nkabayisohokamo nabandi bitegura kuyijyamo .

Akazu k'ubucuruzi kamamaza kari hanze, ako kazu kagizwe n'ibara ritukura n'umweru, gafite ibyapa bibiri bihagaritse bigaragaraho amashusho y'abantu, inka n'ibicuruzwa bigaragaza ko ari ukwamamaza ibijyanye n'amata cyangwa ibiribwa, hari abantu benshi bari mu gikorwa cyo kuganira. Abari muri ako kazu kandi, umuntu wambaye umupira utukura uhagaze inyuma y'ameza arimo ibikoresho byo kwamamaza aho hantu hashinzwe ku kazu, hasa nk'ahantu hahurirwa n'abantu benshi cyangwa se hakorerwa ibikorwa byo kwamamaza.

Icyapa ndanga kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ibirango bya Mtn momo, kigaragaraho izina ry'ugurisha ndetse na nimero ziwe, hariho kandi na kode yo gusuzumwa. Iyi kode isuzumwa na telefone yitwa sikani.

Akazu gatoya k'ubucuruzi kazwi nk'ubwoko bwa kiyosike, kagizwe n'ibara ry'umuhondo hose ndetse n'ibindi birango bya Emutiyeni. Haragaragaraho abantu babiri, basa n'abaje gushaka serivisi z'itumanaho zitangwa muri ako kazu. Imbere harimo umjntu utagaragara usa nk'uwubamye, hirya hari undi umuntu urimo urareba iburyo, ku kandi kazu gasa nk'ak'umutuku ariko katagaragara neza.

Akazu k'ubucuruzi kari mu bwoko bwa kiyosike, kagizwe n'irangi ry'umweru hose, ndetse imbere yako kakaba kariho ibyapa bitandukanye ndetse kandi by'amabara atandukanye, biragaragara ho eyateri, tigo kashi, ndetse n'abantu batatu basa nk'abaje gushaka serivisi aho hantu, hirya yaho hari ikindi cyapa cyerekana cyangwa kiriho serivisi aho hantu batanga.

Abantu babiri igitsina gabo n'igitsina gore bose bambaye imyenda iriho ibirango bya MTN bahagaze ku kazu kagenewe ubucuruzi akazu nako kagizwe n'ibara ry'umuhondo ndetse n'ibirango bya MTN momo ndetse n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara agira ati serivise za momo MTN wazisanga aha ngaha ni abantu bifotoreje kuri ako kazu akazu gafunguye kandi inyuma yaho hari ibi dukikije.

Ifoto iri hafi yerekana ikirahure cya terefone kigaragaza urutonde rw'imibare n'ibimenyetso 18281*902505#, hepfo y'urwo rutonde handitseho ijambo emputi(empty). Terefone ifashwe mu kiganza kandi mu ntera, ibumoso hari ikintu gitukura. Iyi foto igaragazwa umwanya wihariye cyangwa w'itegeko runaka rishyirwa muri terefone kugirango rikoreshwe serivise runaka.

Iri ni ihema ry'umuhondo, ihema rigaragazwa n'ibirango bya Emutiyeni. Emutiyeni ni sosiyete isanzwe itanga serivisi z'itumanaho hano mu Rwanda. Imbere hakaba harimo umukozi wundi wa Emutiyeni wambaye umupira uriho ibyo birango bya Emutiyeni. Imbere yiwe hakaba hari ibigurishwa bitandukanye, Emutiyeni isanzwe ikora; isanzwe icuruza. Bisa nk'aho hari habaye imurikagurishwa Emutiyeni irimo iragurisha bimwe mu bikoresho byabo.

Inyubako yanditseho Iposita, inyubako ifite ibara ry'umuhondo, amadirishya manini kandi ifite amagorofa menshi. Imbere y'iyo nyubako hari imodoka n'amapikipiki y'umuhondo, byose byanditseho "Iposita", ibi bigaragaza ko ari ikigo gitanga serivise z'Iposita cyangwa izo gutwara ibintu.

Umutwazi w'ibicuruzwa bigemurwa ku ipikipiki atwaye ipikipiki ihetse agasanduku gafite amabara abiri gafite amabara abiri umuhondo ndetse na oranje kandi hose mu mpande zombi gafite hagaragara ikirango k'iyo serivisi yitwa pozo derivali atwaye ipikipiki mu ntera hari ibiti bikikije ndetse umumotari arimo aragenda.

Paji cyangwa se urubuga rw'ubucuruzi rwo kuri murandasi rwa Jumiya, ruri kwerekana imyenda itatu y'abagore y'imvange, kandi hasi ikerekana ikerekana imbuga nkoranyambaga zayo ikoresha. Aha bari kwerekana uko bakoresha cyangwa se bamamaza imyenda bagurisha, banerekana imbuga zabo wacamo kugira ngo uge kugura imyenda yabo.

Umutwazi w'ibicuruzwa bigemurwa ku ipikipiki yicaye ku ipikipiki, aho iyo pikipiki ihetse agasanduku gasa umutuku ndetse kari no mu ibara ry'umukara ariko kariho ibirango bya Rush foods, uwo mutwazi afite terefone mu kiganza ari kwitegereza iburyo, hirya ye hari umuhanda ndetse n'inyubako zitagaragara neza.

Ibicuruzwa bibiri biri mu iduka ryo kuri murandasi, icyambere gicuruzwa n'iduka ryitwa ji enjimagisi gifite igiciro cy'ibihumbi mirongo itatu by'amafaranga y'u Rwanda, icyakabiri gicuruzwa n'iduka ryitwa amibodi oruganikisi, gifite igiciro cy'ibihumbi icumi by'amafaranga y'u Rwanda, buri giciro gifite akarongo k'icyatsi kanditseho adi tu kati, ni ako kongera mu ngombyi y'ibyo guhaha.

Umuntu wicaye kw'ipikipiki wambaye ingofero y'indinda mpanuka izwi mubwoko bwa kasike, ndetse kw'ipikipiki inyuma ahetse agasanduku gasa icyatsi nk'ikiyo ngofero, ndetse kariho ibirango bya kasha n'amagambo agizwe n'ibara ry'umweru agira ati "gura ibikoresho by'isuku n'ubuzima hamagara kuri iyi nimero, hariho nimero umuntu yabahamagaraho. Hirya haragaragara ibimera nk'ibiti.

Umutwazi w'ibigemurwa bigemurwa ku ipikipiki yicaye ku ipikipiki ifite agasanduku inyuma, agasanduku k'umutuku kandiditseho ikirango terashifuduzi, na we kandi yambaye umwenda w'umutuku uriho icyo kirango cya rashifudu ndetse n'ingofero ndindampanuka.

Telefoni nk'igikoresho gikunzwe gukoreshwa mu ikoranabuhanga, yaba mu kwakira cyangwa mu kohereza amafaranga. Umuyoboro wa emutiyeni ushishikariza abawukoresha kuba bakoresha telefoni zigezweho, arizo ziba zikoresha enterinete kugirango babone serivise mu buryo bwihuse kandi bubanogeye.

Abantu babiri bifotoreje hamwe, bafite uruhu rutandukanye; umwirabura ndetse n'umwera. Bose ibiganza byabo bicigatiye ingofero ndindampanuka Isa icyatsi, yandikishijweho amagambo y'umweru, ati sefu moto ndetse na nimero za telefoni.

Sosiyete yamamaza serivisi zayo igice kibumoso kigaragaza ikiganza gifite mudasobwa igendanwa n'igikoresho cya tablet mugihe iburyo hari mudasobwa itimukanwa. Serivise zamamazwa zirimo; gukora urubuga rwa interineti, guhindura cyangwa gusubiramo urubuga rwa interineti, sisiteme yo kwishyura kuri interineti, sisiteme yo gusaba serivisi kuri interineti.

Kanisi n'urubuga rwo kugura no kugurisha kuri murandasi rugira nimero yo guhamagara amahitamo n'ururimi n'ikirango cya kanisi hejuru, mugace kibanze hari itangazo riranga firigo rivugango gura firigo nziza kugiciro cyiza i Kigali giherekejwe n'ishusho ya firigo iri muri barafu n'amacuma y'inzoga hepfo hari ibirano by'amasosiyete nka samusanga, nikoni erijipu na polisi.

Iri ni tangazo ryamamaza itangwa ry'ibiribwa bishya, harimo fureshi vejetebozi, harimo tangawizi bavuga ko iri ku mafaranga ibihumbi bitanu by'amafaranga y'u Rwanda, kokombure iri kuri magana atandatu y'amafaranga y'u Rwanda, kandi iri tangazo risaba abakiriya kongera ibicuruzwa mu ikarito cyangwa se mu nkangara yabo, kugira ngo biborohere kugura byoroshye binyuze kuri murandasi.

Urubuga rw'ubucuruzi bwo kuri murandasi rurerekana ubwoko bubiri bw'inzira ushobora kunyuramo kungirango ubashe kuba wakwinjira muriryo hahiro ryabo hamwe hari shopu flayi h'icyatsi hasi hakaba handitse Rwandani shopu flayi stowazi ahandi hakaba shopu flayi prasi hasi yaho naho hakaba handitse Rwandani shopu frayi plasi aya n'amoko abiri y'inzira wanyuramo kuri ubwo rubuga rwo kuri murandasi kugirango ubashe kuba warya kugura icyo ushakaho.

Umutwazi wicaye ku ipikipiki y'ibigemurwa , yambaye ishati y'akazi iriho ikirango cya vuba vuba, isa n'agasanduku kari ku ipikipiki nako kariho ibirango bya vuba vuba, biranga serivise batanga zo kuba bagemura ibigemurwa ku bakiliya.

Umuntu usa n'uwicaye ku gitanda ahantu h'umweru herurutse kandi afashe telefone, iburyo bwe hari ibirango bya Shopifayi, Wu komase na Magento, hepfo hepfo hari agapfunyika kanditseho irayiti dijito ndetse kanditseho Kenya, Tanzania, Uganda na Rwanda.

Iyi inyandiko ya buroge yitwa izamuka rya ikamasi mu Rwanda amahirwe inzitizi n'urugendo ruri imbere. Yasohotse ki itariki ya 1 ugushyingo 2024, igaruka ku mikorere y'ubucuruzi bw'ikoranabuhanga mu Rwanda isobanura amahirwe ahari , inzitizi zihari ndetse n'icyerekezo cy'ahazaza.

Icyapa kiri mu bwoko bw'ibara rya orange cyamamaza, cyamamaza y'iduka ryo kuri murandasi kiriho amagambo yandikishijwe n'ibara ry'umweru rya andi sohota selinye igura keleto oniline sito ini simpuligizi iryo duka rigaragaza kandi ibicuruzwa birimo nk'imyenda imipira ndetse n'amasakoshi.

Icyapa cy'umutuku kiriho ikinyobwa gisembuye kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, kiriho abantu batagaragara neza, yego, kirimo ikirangantego cya sikolo.

Paji cyangwa se urubuga rwo kuri murandasi rufite ibara rya oranje, hariho amashati amanitse ndetse hagati ibumoso hari raputopo yerekana urubuga rwa igura, hagati hari ibikapu n'amasanduku ku ruhande rw'iburyo byongeye hari ikarita y'ubwishyu y'umuhondo iri imbere, ijambo riri hejuru rivuga ngo utangira kugurisha kuri igura shyiraho iduka rya onurayini ryoroshye.

Umuntu wambaye ishati inyuma yiwe haragaragara ipaji se cyangwa urupapuro rusa nkurwo kuri murandasi, rwanditseho ruti "YUBEYI". Rufite n'ahantu hishakiro aho ushobora kuba washakishiriza, hasi yaho iruhande rw'iburyo haragaragara firigo ifunguye ndetse n'ibindi bikoresho, ndetse kuruhande rw'ibumoso haragaragara amagambo yanditse ati "Layifu Kompaniyoni".

Services by MIGRO that provided groceries. there is a MIGRO logo and words asking people to follow their social media accounts it also shows that delivery to their clients is free. Below are vehicles and instructions for using the program, showing the service is active.

Ushobora kudawunilodinga onulayini shopingi apu ini Kigali maze bikajya bikorohera kubona ibicuruzwa kandi bigatuma udatakaza umwanya ndetse bigatuma usevinga n'amafaranga.

Ipikipiki iparitse iri mu ibara ry'umutuku ndetse ifite agasanduku k'umutuku kariho ibirango bya yego ndetse na nimero zo kubahamagara, imbere yako hari umugabo uhagazeho usa nukuyeho igicuruzwa kiri muri amverope cyangwa se ambaraje imbere yiyo moto hari urukuta rwubakishijwe amabuye ndetse hejuru yarwo haragaragara ibimera.

Umukozi utanga ibicuruzwa kuri moto ahagaze iruhande neza rwa moto ahagaragara ku igice k'inyuma hari agasanduku k'umutuku kagizwe n'ibirango bya bilanse asa nk'uru gukuramo ibipfunyika cyangwa se ibicuruzwa yari aje gutanga abigeza aho abitangira hirya yiwe hari umuhanda ndetse n'umuyoboro w'amazi.

Abatwazi b'ibicuruzwa bigemurwa ku mapikipiki bafotowe barebye inyuma gusa imbere yabo hari ari igikuta igikuta kirambuye cy'umuhondo kandi ku mapikipiki yabo bose batwaye udusanduku tumwe turiho ikirango cyitwa ngo jumiya fudu utwo dusanduku twose turi mu mabara y'iroza.

Abakozi batatu bicaye mu biro bya rutusi Rwanda onurayini sitowa, bicaye ku meza bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'imashini za mudasobwa bari gukora akazi kabo. Inyuma yabo hari ibikoresho bitandukanye birimo iby'ikoranabuhanga n'ibikoresho by'ibiro biri ku mugaragaro mu bubiko. Ku meza yabo hariho ikimetso cya rutusi Rwanda onurayini na nimero zabo za telefoni.

Inyubako y'amagorofa igizwe n'icyapa kinini cy'umweru cyandikishijwe n'amagambo y'ubururu agira ati " Iposita". Iyo nyubako na yo iri mu ibara, iri mu ibara ry'umuhondo ukabije, ndetse n'umukara mukeya. Hasi haparitse amamodoka n'amamoto, n'amamoto, na yo ari mu bwoko bw'umuhondo busa n'iyo nyubako. Ayo mamoto cyangwa se ayo mamodoka nayo yanditse iposita.

Amapikipiki atwara imizigo igemurwa yafotorewe hamwe ndetse afotorerwa inyuma agaragaraho udusanduku tugizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'ibirango bya Miguro hejuru y'utwo dusanduku hagaragagaraho ingofero ndinda mpanuka nazo ziri mw'ibara ry'umweru.

Ipikipiki iparitse imbere y'inzu iri mu ibara ry'umutuku, ndetse ihetse agasanduku kagizwe n'ibara ry'ubururu, ndetse n'amagambo yanditseho ati nunisi fudu. Mu ntera hari umuntu uhagaze ahantu hari ku ma esikariye, wambaye ishati y'iroza ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abantu babiri bagaragara bafungura agasanduku kanini k'umutuku kanditseho amagambo ngo "BIRAS fasiti endi rirayebo" kari inyuma y'ipikipiki itukura, aka gasanduku gafite ibirango bitandukanye bigaragaza serivise nka fasiti derivari, sefu derivari, sekiyuwa derivari.

ibice bibiri bigaragaza ibiribwa bishobora ku kugurwa kuri murandasi igi cyo hejuru kigaragaza isahani iriho inyamato ziri ngo ububutuziru zigurishwa ku mafaranga maganarinwi y'amanyarwanda kandi hariho hananditswe ngo bayinawu, igice cyo hasi kigaragaza umutsima washokara ugurishwa ku mafaranga ibihumbi makumyabiri na bitandatu na magana atanu y'abafaranga u Rwanda naho kanditse ngo buyinawu.

Umuntu wicaye ahameze nko k'uburiri wambaye umupira ufite ibara rimeze nk'iryubururu ry'igicu ndetse n'ipataro ifite ibara ry'ivu, iruhande rw'iwe hari agapapuro kameze nkagapfunyika kanditseho irayiti dijito kuruhande rwe kandi rw'iburyo hejurii handitse amagambo atatu amanutse; shofayi, wawukamasi, majeto.

Paji cyangwa se urupapuro rw'urubuga rw'irembo, urubuga rwa serivisi za leta rufite akadirishya ko gushakishiriza hejuru hamwe n'ihuriro ryerekeza ku bikorwa by'ingendo. Hasi yaho hari igice cyitwa umuryango kirimo serivisi zijyanye n'ibibazo by'umuryango ndetse yekanwa amahitamo aho umuntu akanda cyangwa se yinjirira aho ashaka kwinjirira aho gusaba serivisi.

Itsinda ry'abakozi bari mu kazi ko gufata no gutunganya ibitoki mu ruganda rw'ubucuruzi, abakozi bambaye imyenda y'umukara n'imyambaro yo mu mutwe kandi umwe muri bo ari gukoresha ikigereranyo gipima ibitoki umunzani, ibitoki byashyizwe mu bitebo bitandukanye bya parasitiki birimo ibara ry'umuhondo, ubururu n'umutuku, ibi bitebo byashyizwe ku mpande zitandukanye z'ibikoresho n'ameza ari muri urwo ruganda.

Itangazo rya Kigali jo jankishoni rirerekana uburyo abahanzi bazaza gutaramira abantu bagizwe na Seyisheyi, chally na Nina, Neli comuzi na Mavuno bandi baratwereka kandi ikirango cya mitsingi n'ukuntu abantu bagura amatike.

Umuntu ufashe telefoni igendanwa, ifunguye, ifunguyemo porogaramu ya vuba vuba, ku rubuga rwa porogaramu haragaragara umuntu utanga ubutumwa ariguha umukiriya ipaki. Inyuma harimo umwijima naho uwo muntu yambaye ishati y'ubururu bworoheje. Ku gice cyo hejuru y'ifoto haragaragara ikimenyetso cy'icyatsi cy'ikirango cya vuba vuba.

Umutwazi w'ibicuruzwa bigemurwa ku ipikipiki, aragaragara afunguye agasanduku k'iwe kaba ku ipikipiki, inyuma kariri mu ibara ry'icyatsi, ndetse kagizwe n'ibirango bya vuba vuba, ndetse na we yambaye ishati iriho ibirango bya vuba vuba, ndetse n'ingofero ndindampanuka, na yo iriho ibyo birango bya vuba vuba.

Iduka ry'ubucuruzi rifite umuryango w'ibirahure ufunguye uhagaze mo umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi usa nkuri kureba hasi, hejuru yiryo duka hari icyapa cy'ubururu cyanditseho hiyaha dotirwa hasi hariho nimero zabo za terefoni ku mpande kandi ziryo duka hagaragaraho ibyapa biranga byerekana ibicuruzwa iryo duka ricuruza.

Iyi ni iyamamaza y'ikigo kitwa Akarwa. Ni ikigo cy'ubucuruzi gikorera kuri murandasi, kivuga yuko giherereye i Kigali. Bavuga ko bagurisha cyangwa se batanga ibicuruzwa by'ikoranabuhanga, bituruka kuri Amazone.

Imodoka iri mu ibara ry'umutuku, ku kirahuri cyayo k'inyuma haragaragara ho ifoto nini cyane, ishuhanyije ho serivisi za za migoro zo kwamamaza, urubuga rwabo rw'isoko ryo kuri murandasi, rutanga servise zo kugura no kugeza ibicuruzwa ku bakiriya babo, iyo modoka irasa nk'iparitse ahantu hari igipangu cy'amatafari ahiye.

Abantu babiri bagaragara nk'abari guhererekanya igicuruzwa, cyagemuwe ku ipikipiki, ndetse umutwa w'iyo pikipiki bigaragara yuko ariwe urimo urahereza icyo gicuruza ku mukiriya yarakigemuriye. Inyuma yabo hagaragara igipangu kinini kandi kibonerana kiboneka mo imbere.

Icyuma kinini cyagenewe kubikwamo amata by'igihe kirekire ngo atangirika imbere y'icyuma hari ikindi cyuma cyagenewe gukonjesha abinyobwa. Kirimo utudomoro twinshi tw'amata, utudomoro dutoya tw'umweru.

Imiterere y' bwo gukorana n'urubuga cyangwa porogaramu aho harimo amafoto y'amahitamo atatu amafoto abiri ya mbere adftines na ctfltbelark afite ibara ry'ubururu n'inyandiko z'umweru mu gihe wa gatatu wa ids ard ifite ibara ry'umweruyandiko z'ibishushyu ikaba ifitemenyetso cy'akabazo iyifoto ikubiyemo amahitamo asanzwe asanzwe akenerwa mu gucunga cyangwa gutanga ibitekerezo mu matangazo yerekana yerekana ku mbuga nkoranyambaga cyangwa porogaramu.

Abatwazi b'ibicuruzwa ko ari bane bafotowe bareba imbere bose bambaye imyenda, imyenda ya Orange isa nk'udusanduku buri wese afite ku ipikipiki kandi buri ku gasanduku kose gafite ikirango cya Junior Food.

Umuntu wambaye igisarubeti cy'ubururu kiriho ikirango cya twiga n'amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umuhondo, ku ruhande rw'iburyo hari itangazo ry'umuhondo ririho n'ikirango cya twiga rigira riti imajine kusevu kositi ya kutaransifa sitoke, hasi hagaragara nimero zabo za watsapu.

Umutwazi w'ibicuruzwa bigemurwa ku ipikipiki, yambaye kasike y'icyatsi, ndetse kuri iyo pikipiki yiwe na ho hari agasanduku k'icyatsi kariho ikirango cya Kasha na nimero zabo wabahamagaraho, ako gasanduku na ko gasa icyatsi biragaragara yuko uwo mutwazi w'iyo pikipiki arimo arashyiramo igicuruzwa agiye kugemura.

Za kigali sevepfu anuyo kigali apu hahirya hari kwerekana ko itike zirimo ziragurishwa kandi ko ushobora kuhanagura itike yawe kuri jumiya, uyiguze kuri jumiya ufata igabanyirizwa, hasi hariho abahanzi bazatumirwa batandukanye kandi bari ku murongo iyo nyamaza irasa irasa neza umuhondo ndetse uvanze n'umweru.

Ipaji y'urubuga rucururiza kuri murandasi rurerekana amafoto y'ibice bibiri, igice cya mbere cyo hejuru kirerekana inyama ntoya zihiye zigura amafaranga maganarindwi hasi hari akabuto k'ubururu kanditse ati gura nonaha, hepfo yaho hari indi foto y'umutsima umutsima wa shokora batubwira ko ugura amafaranga y' u Rwanda ibihumbi makumya na bitandatu maganatanu nawo ufite akabuto ko hasi kakubwira ati gura nonaha.

Umuntu wambaye umupira w'ikigo cya juniya ndetse n'ibirango bya juniya ariko uwo mupira ukaba ari uwibara ry'icunga afite agakarito mu intoki nako kariho ibirango bya juniya asa naho ari kugenda m'ububiko, hari amashefu arimo ibintu bitandukanye n'ibyapa bigaragaza ahantu hatandukanye, iki gikorwa kikigaragaza nk'ikigo cya juniya gishinzwe ubwikorezi n'itangwa ry'ibicururuzwa.

Abantu babiri bambaye amashati y'icyatsi, ariho ibirango bya vuba vuba, n'ingofero ndinda mpanuka z'icyatsi bahagaze iruhande rw'ipikipiki, iyo pikipiki ifite agasanduka k'icyatsi gatwara ibicuruza kakaba kariho inyandiko yanditseho ati vuba vuba hamwe na yo oda wi deriva yanditseho bahagaze imbere y'inyubako ifite ikimenyetso cya ra karase hoteli, aho hamenyekanisha serivise zirimo amacumbi, resitora, ibyumba by'inama hamwe n'amakwe.

Abagenzi babiri bari ku mapikipiki, batwawe n'abatwazi batwara, bose bambaye cask cyangwa se indindampanuka z'icyatsi, inyuma zanditseho safe moto, aho bari kuri kaburimbo, hirya yaho mu ntera, haragaragara amazu ndetse n'ibimera bitandukanye by'ibiti.

Itangazo ririho ibiciro byahindutse bikava ku bihimbi mirongo itandatu na birindwi maganatanu bikajya ku bihumbi mirongo itanu na bine maganatanu by'amafaranga y' u Rwanda. Iryo tangazo kandi riratwereka ishusho iriho ibiribwa bitandukanye birimo nk'umuceri, amafi, inkoko, karoti, amashu, inyanya ndetse n'ibindi.

Amagambo, amagambo agaragara nk'ayanditse cyangwa se ashushanyije mu nyuguti zigiye zitandukanye kandi z'amabara atandukanye, gusa haragaragaramo ijambo wasoma uti onu tamu fasiti derivari. Bigaragara yuko ari sosiyeti cyangwa se nk'ikigo runaka cyitwa onu tayimu kirimo kirerekana yuko gishobora kuba cyagezaho ibyo bacuruza ku bakiriya ku gihe.

Abantu babiri harimo umutwazi w'ipikipiki wambaye ingofero ndinda mpanuka y'icyatsi, ariguhereza igicuruzwa umuntu usa nkaho arumukiriya cyiriho ikirango cyitwa safi rani imbere yabo hari ipikipiki ifunguye agasanduku inyuma kandi nako kariho ikimenyetso cya safirani inyuma yabo hari ibimera.

Umurongo w'amakamyo atwara ibicuruzwa uhagaze imbere yu'ububiko, ayo makamyo yandisiho ikirango twiga kandi afite amabara y'umuhondo n'umweru, ububiko bufite ibyumba bitatu bigaragara byo gupakimo bifite imibare mirongo itatu n'umunani mirongo itatu n'agatandatu na mirongo itatu nagatanu, hejuru y'ibyo byumba byo gupakimo hari imiryango yumukara amakamyo n'umweru w'umuhondo kandi afite ikirango cyatwiga hejuru yayo, inyubako y'ububiko ifite ibara ry'icyatsi kandi hejuru ihagaragara amadirishya menshi.

Icyapa cy'umweru kiriho ibirango bya komponyi zizwi cyane zikomeye zirimo nka ibeyi, amazoni, warumati, soni, epo, edidasi, samusangi na dizini n'izindi nyinshi biteguye neza biri mu buryo bw'umurongo bugaragara.

Umuntu ufashe ishashi y'impapuro yuzuyemo ibiribwa, birimo imboga n'icupa, yambaye ishati igizwe n'ikirango cya Vubavuba. Hafi hari agasanduku k'icyatsi ko gutwaramo ibintu kanditseho ati yu oda wi deliva nako kagizwe n'ibirango bya Vubavuba.

Umuntu utari kugaragara neza, usa nkufashe kuri moto cyangwa se ipikipiki, iparitse ahantu hasa nk'ahitegeye ku muhanda w'amabuye. Iyo pikipiki inyuma ifite agasanduku kariho ibirango bya vuba vuba ndetse na nimero z'umutwazi wazo, ndetse kuri ako gasanduku, hariho uburyo ushobora kuba wasaba iyo serivise.

Uru ni urubuga rucuriuriza kuri murandasi ruri kwamamaza amwe mumavuta yarwo acuruza avuga yuko ari amavuta y'uruhu ndetse hariho n'ibicira ndetse n'umuntu uyisiga, barimo baravuga yuko kugeza ibicuruzwa k'umuntu ari ubuntu ariko warengeje amafaranga ibihumbi bibiri maganatanu by'amakenyamashiringi.

Umutwazi w'ibicuruzwa bigemurwa k'ipikipiki wambaye ingofero y'icyatsi n'umyenda w'icyatsi ahagaze iruhande rw'ipikipiki ifite agasanduku k'icyatsi gatwarwamo ibicuruzwa. Uwo muntu arigufungura akuramo ibicuruzwa, iyo pikipiki ifite purake y'umuhondo. Uwo muntu nako gasanduku bafiteho ikirango kimwe no kumyambaro yiwe handitsweho vuba vuba ibyo byose biri kubera kuri kaburimbo ahantu hari umuhanda w'amabuye.

Gukoresha uburyo bwo hutimiza ibyo waguze bigira akamaro kanini cyane: harimo gukwirakwiza ibicuruzwa mu bice byose, harimo kongera ikoranabuhanga. Kuko gutumiza ibyo waguze, bifasha n'ikoranabuhanga nk'uburyo bwa telefoni cyangwa porogame, bigafasha abakiriya kumenya ibyo bakeneye nta mbogamizi. Kandi bishobora gushyigikira ubucuruzi bw'abakora ibintu bigiye bitandukanye, nk'uruge ro vuba. Waba ushaka amakuru arambuye ku kigo runaka cy'izi serivisi cyangwa uko bigenda? Hano turimo turabona uburyo ushobora kugura imyenda y'abagore, cyangwa se imyenda y'abana, ukoresheje ikoranabuhanga.

Urubuga rwo kuri murandasi rucuruza rukanamamaza ibikorwa byarwo rwitwa mu Rukali maketi shopu ruri kwerekana cyangwa se kwamamaza ko rucuruza ibicuruzwa bitandukanye kandi ko ushobora kuba wabigura uciye kuri webusayiti yabo kuri enterinete cyangwa se kuri murandasi.

Itsinda ry'abatwazi ba moto batandukanye, bambaye imyenda y'imituku ndetse iriho ibirango bya yego moto ndetse n'ingofero ndindampanuka ziriho ibyo birango bya yego moto, bari kumwe, bari ku murongo, bari mu muhanda basa nk'abarimo baragenda bagenda ahantu hamwe.

Ibirenge by'umuntu wambaye inkweto zifunguye cyangwa se ziri mu bwoko bwa sandari zifite ibishushanyo by'umukara n'umweru. Mu gice cyo hejuru i bumoso k'ishusho hari ikirango cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru agira ati" ibihumbi icumi na magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda" kigaragaza igiciro kizo nkweto cyangwa se izo sandari mu mafaranga y'u Rwanda.

Yubayi baravuga ko ari urubuga rwo guhaha kuri murandasi rukorohereza abantu kugura ibintu mu burayi no mu budage bakabikizaho mu bihugu byabo. Ifoto igaragaza ibendera ry' umuryango w'ubumwe bw'uburayi, hejuru ni imyerekezo y'imirongo y'ubwikorezi igana mu bindi bihugu. Hari amagambo avuga ko yubayi ari iduka ryizewe rikora ubucuruzi mpuzamahanga.

Uruganda rwa Muakamira ruzwiho gutunganya amata rufite n'ibindi binyobwa n'ibiribwa bikorwa mu mata, yaba ikivuguto cyangwa ibizwi nka yawurute bikunzwe n'abana batoya ubisanga mu maduka menshi, amaresitora cyangwa amalimantasiyo aho uba usanga bicuruzwa ku biciro bitandukanye bitewe naho wakiguriye.

Iyi ni paji yo kugurisha ifu ya zesita koni folo amagarama magana ane, iri kugurishwa na Vekita golobo disitiribitazi limitedi ku giciro cy'ibihumi mirongo ine na bitatu n'amafaranga ijana by'amafaranga y'u Rwanda, ku gasanduku kariho ibipimo makumyabiri na bine hari ahantu ho gushyira umubare w'ibyo ushaka kugura ha kantite, guhitamo hagati yo kongera mu gakapu ko guhaha adi tu kati cyangwa kugura ako kanya rayiti nawu.

Inyubako igaragaza iduka ryitwa Rwanda korovingi sitowa. Iyi nyubako ifite amadirishya manini na bariko ziri ku isonga. Ikimenyetso cy'iryo duka, kigaragara neza hejuru. Iduka ririmo urumuri rwinshi, kandi hari maneke zigaragara mu madirishya, bigaragara ko ari iduka ricuruza imyenda. Imbere y' aho iduka riri hamwe n' uburyo iduka rishushanyije, bigaragara neza; bigaragaza ubucuruzi cyangwa ko aho hantu ari aho ubucuruzi.

Icyapa kinini cy'umweru kiriho ibirango bya kompanyi zizwi cyane zirimo ibayi amazoni uwarimodisoni eporo iardasi samusungi n'izindi nyinshi ziri ku murongo neza biteguye neza kandi biragaragara.

Urubuga rucururiza kuri murandasi rwitwa onirayini shopu rurimo rurimo ruratangaza cyangwa se kwamamaza ibikorwa byarwo, Barikwerekana nimero zabo ndetse Banererekana y'uko ibicuruzwa uguze igicuruzwa kukimugezaho ari ubuntu.

Umutwazi w'pikipiki ugaragara nk'uri gukuramo ingofero y'indindampanuka indetse iyo pikipiki yiwe igizwe n'isanduku y'umutuku iyo sanduku y'umutuku ikaba nayo igizwe n'ibirambo bya kiyefusi hirya, mu ntera hasa nk'aho haparitse izindi modoka, hari y'umweru ndetse n'indi y'umukara, ndetse no hirya hari ibikuta bitagaragara neza.

Iduka rifite imiryango ibiri ifunguye isa icyatsi, hejuru ya y'iryo duka haragaraga icyapa kinini, gishushanyijeho imbuto ndetse n'amagambo agizwe n'ibara ry'ubururu ati fureshi oruganike, welukamu tu afuri famazi maketi. Aha hantu hasa nk'ahatangirwa cyangwa se hagurishirizwa imbuto.

Umugabo w'umutwazi wibicuruzwa, uhagaze iruhande rwa moto, yambaye umwambaro w'icyatsi uriho ikirangantego cya Vuba Vuba, kuri moto yiwe naho hariho agasanduku kabugeneye ko gutwara ibicuruzwa nako kariho ikirango ikirango cya Vuba Vuba inyuma y'iwe, hari icyapa cyerekana undi muhanda werekeza mu Bugarama, hamwe nikindi kiri inyuma cyamamaza kiriho amabara menshi.

Umuntu utwara ibicuruzwa ku igare yambaye ishati y'icyatsi ifite ibishushanyo by'umweru ku maboko hamwe n'ingofero iririnda impanuka y'icyatsi, atwaye isakoshi nini y'icyatsi irinda ubushyuhe ayambaye ku mugongo kandi ifashwe n'imikandara ku bitugu. Inyuma haragaragara ishusho y'ahantu hafunganye hari ibimera, ariko ntihagaragara neza hejuru y'ifoto handitse amagambo agira ati:'' weyari noti de seyime geti ahedi oda nawu." mu nyuguti z'umweru n'umuhondo.

Abatwazi ba moto babiri bari ku muhanda bafite abagenzi bambaye ingofero z'icyatsi, zisize ho ibirango bwa sefu moto, n'ibiranga serivise zabo, harimo nimero ya telefone, moto ziri ku murongo wa kaburimbo kandi ahantu hagaragara ibiti n'ubusitani mu mfuruka y'ifoto.

Amaboko abiri afashe agapaki k'udupamba tw'isuku, turi mugakoreshwa kenshi hepfo y'amaboko hari amagambo yanditse mu nyuguti nini z'ubururu zijimije agira ati, turi uruganda rukora udutambaro tw'isuku kandi dukoreshwa inshuro nyinshi, tuza ku isonga ku isi mu rwego rw'imibereho myiza.

Umutwazi utwara ibicuruzwa bigemurwa ku pikipiki afunguye agasanduku gasa nk'umuhondo kanditseho ngo Kasha ndetse akuyemo igipfunyika gisa nkaho ari igicuruzwa nacyo kiriho ikirangantego kitwa Kasha uwo mutwazi nawe yambaye ingofero isa n'igisanduku ndetse n'ijire isa ubururu.

Igice cyanditseho besiti selingi kiragaragaza ibicuruzwa bibiri bihagararanye, ibumoso hari imineke umwe washishuwe kandi ukatwamo, ibumoso hari ibirayi. Ibi bicuruzwa byombi bifite ikirango cy'icyatsi cyo hepfo iburyo kiriho amagambo agira ati "AFRI FARMERS MARKET".

Uru ni urubuga ruri kwamaza serivisi zabo za webusite dizayine Rwanda aho batanga ibikoresho bifasha imishinga gukura, serivisi zabo zirimo gukora imbuga za webu, ziteguye neza iz'ubucuruzi bwa onurayine kamasi, guteza imbere urubuga mu mikoreshereze, gukora porogaramu no gukora porogaramu zihariye zikorwa bijyanye, ndetse barimo baramamaza barimo baramamaza banashyize hasi nimero zabo za telefone